Abaganga bari ku mbuga nini, bari mu gikorwa cyo gukingira abaturage, bagiye batandukanye, indwara ziri mu bwoko bwinshi.

Abaturage benshi bavanze; abasaza, abamama ndetse n'urubyiruko bicaye ku mbuga, bigaragara ko bari mu nama n'abayobozi babo.

Icyumba cy'inama kirimo abantu batandukanye harimo abazungu ndetse n'abirabura, bigaragara ko bari kwiga ku kibazo gifite ireme.

Abana babiri b'abakobwa ubona ko bakiri bato bahuriye ku ivomero umwe akaba amaze kuvoma undi ari kumukorera indobo kugira ngo acyure amazi.

Ku iriba hari abantu benshi biganjemo abana ndetse hari n'umugabo umwe wambaye ishati y'igitenge, uri kureba inyuma ye.

Iki ni icyumba cy'inama, giteraniyemo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye harimo abagore, abagabo, havanzemo n'abazungu, bose icyabahuje ni ukugira ngo bige ku bibazo by'ubuzima ndetse bishakirwe umuti.

Aha ngaha ni ku ivomero rusange. Hahagaze abamama batatu, umwe muri bo ari imbere yateze ijerekani kuri robini, inyuma yabo hari amajerekani yandi menshi, ategereje kuba yavomerwamo amazi.

Inama Nyafurika ihuza ibihugu byose, yita ku buzima ndetse no kubusigasira, kugira ngo abaturage bose bagire ubuzima buzira umuze.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo mu kigo nderabuzima, aho hari abaganga b'abagore batatu bicaye ku meza, buri wese afite amafishi y'abarwayi imbere ye arimo arandika mu gitabo cyabugenewe.

Icyumba cy'inama, giteraniyemo abantu bagiye batandukanye, abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bicaye ku meza, bameze nk'aho bafite icyo bari kuganiraho.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, higanjemo abazungu, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa.

Umuryango w'abibumbye ufite akamaro gakomeye cyane ku isi harimo nko gutabara abantu, guhosha intambara, ndetse no kwita ku batuye isi bose.

Leta yacu yashyizeho gahunda yo kwegereza abaturage bose amazi meza kandi asukuye, rero ni byiza kubungabunga amavomero yashyizweho na Leta.

Abaturage bishimiye ivomero bakorewe rifite imyanya itatu ivamo amazi, bakaba bari kwishimira icyo gikorwa k'ingirakamaro.

Iri ni ivomero, rimanura amazi ari uko bamaze gupompa, akazamuka. Kuri iri vomero, hari abantu bane, b'abamama, babiri bari gupompa, undi umwe, yateze indobo ari kuvoma amazi.

Uyu ni umwana muto w'umuhungu, ubona ko yishimye, ari guseka, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'umukara, ateze akaboko kuri robine, ari kunywa amazi, ubona ko yizihiwe.

Aha ngaha hari abantu batandukanye b'urubyiruko: abakobwa bane ndetse n'umusore umwe, bahagaze imbere y'ibyapa by'ubururu n'umweru byanditseho Unicef, bakaba bari gukora ubukangurambaga bwo gufasha abana ndetse no kubitaho.

Umubyeyi ubona ko yamwenyuye ari mu cyumba, ari kumwe n'umuforomokazi uri kwita ku mwana we w'uruhinja ateruye mu ntoki.

Icyumba giteraniyemo abantu b'ingeri nyinshi ubona ko ari abayobozi, bari gukora inama ku bintu bigiye bitandukanye.

Umumama uhagaze mu byatsi ubona ko bisa icyatsi kibisi, ari kumwe n'umwana we ukiri muto bigaragara yuko bavuye gusoroma imiti ivura indwara.

Aha ngaha hari abajyanama b'ubuzima buri wese yambaye baji, uri kubona ko bishimye bari kubyina, bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hari umuzungu, bigaragara ko amaze kubakoresha inama, ibungura ubumenyi mu bijyanye no kuvura abantu.

Umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, aricaye bari kumutera urukingo, urabona y'uko afite ubwoba bwinshi cyane bwo guterwa urushinge.

Umwana mutoya wambaye agapira k'ibara rya oranje, afite igikombe mu ntoki ari kuvoma amazi, urabona ko yishimye kandi aya mazi ni meza.

Iki ngiki ni icyapa cy'umuryango ushinzwe kurengera abana ku rwego rw'isi Unicef, gishinzwe gufasha abana no gufata neza ubuzima bwabo.

Umujyanama w'ubuzima bigaragara ko ari kubaza umwana uburyo amerewe ndetse hakaba hari n'umubyeyi ubona ko yishimye kuko bagiye kumuvurira umwana.

Icyumba cy'inama, ubona ko giteguye neza, harimo abantu batandukanye, imbere yabo buri wese afite icupa ry'amazi ndetse hirya hari insakazamashusho.

Abantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umukara, bavanzemo abagore n'abagabo, hagati yabo hahagaze Madamu Jeannette Kagame aho bavuye mu nama yiga ku bijyanye n'ubuzima.

Aha ni iruhande rw'inyubako y'ibitaro, isize irangi ry'ubururu, hateraniye abantu bo mu ngeri zitandukanye, bicaye ku ntebe bari kuvuga ku bibazo bijyanye n'indwara ndetse n'uburyo bajya bavura abaturage.

Ibi ngibi ni ibikoresho byo kwa muganga, byifashishwa mu kongerera abarwayi umwuka, mu gihe barembye bakaba badafite umwuka uhagije wo guhumeka. Ibi bikoresho kandi biri mu bitaro bigiye bitandukanye byo mu Rwanda.

Mu rwego rwo kwegereza amazi abaturage, Leta y'u Rwanda yubatse amariba agiye atandukanye, ndetse iyashyira mu duce twose tw'igihugu.

Iki ni ikirango cy'umuryango Mpuzamahanga ushinzwe ubuzima ku si, kiriho ishusho y'umubumbe w'isi ndetse kikabaho n'amabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umweru.

Abantu benshi barimo abaganga ndetse bambaye impuzankano z'umweru harimo n'abandi ba mama batandukanye, bavuye mu nama yari kwiga ku buryo bakumira gutwita kw'abangavu ndetse n'uburyo babirwanya.

Aba ni abana b'abakobwa bagiye batandukanye, bigaragara ko bakiri bato bari mu kigero cy'imyaka guhera kw icumi kugera kuri cumi n'itanu, bose bambaye imipira y'ubururu ndetse n'umweru yanditseho Unicef.

Aha ni mu cyumba cy'ishuri, haragaragara abana benshi b'abanyeshuri bambaye impuzankano, abahungu ndetse n'abakobwa. Buri wese imbere ye hateretseho isahani iriho ibiryo ndetse harimo n'ifoke. Iyi ni gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugaburira abana ku mashuri.

Ikigo Mpuzamahanga Gishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abana ku Isi yose UNICEF, gihagarariwe muri buri gihugu kugira ngo abana bose babone ubuzima bwiza.

Aha ngaha haragaragara umwana ukiri muto wicaye hasi, iruhande rwe hari umukobwa wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agapira k'ubururu, yateze indobo ari kuvoma amazi ashoka, ikigaragara aya mazi ntago ari meza, ntabwo byemewe kuba wayakoreshaje, kuko yatera indwara z'umwanda.

Inama yateranyije abaturage batandukanye, imbere yabo hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kubagira inama z'ubuzima.

Abana babiri, umwe w'umuhungu n'undi w'umukobwa ubona ko yishimye ari guseka, uw'umuhungu ari kumusukira amazi ku ntoki amukarabya kugira ngo babashe kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Uyu ni umukecuru ahagaze ku iriba yashyizeho ijerekani ari kuyivomera ategereje ko yuzura, yambaye igitenge cy'icyatsi ndetse n'ingofero y'ubururu.

Umuhanzi Nyarwanda Israel Mbonyi, afite umwana yamuteretse ku munzani ngo apime arebe ibiro afite, akaba yishimye ndetse ari gusabana n'abantu.

Inama y'Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima yo mu gihugu cya Sudan y'Epfo, yateranye ngo yite ku bibazo bijyanye n'ubuzima bw'abaturage.

Ku kigo nderabuzima cya Mayange, imbere yaho hari abanyabuzima bagiye batandukanye bari kwishimira abashyitsi babasuye b'abazungu.

Isuku ni isoko y'ubuzima hano hari umwana wambaye impuzankano y'umutuku ndetse n'umweru, akaba ari kuri kandagira ukarabe amaze gukaraba intoki.

Abantu benshi batandukanye, bambaye ingofero z'imyeru, imipira y'imyeru ndetse n'abandi bambaye imipira y'ubururu, bakaba bafite icyapa cyanditseho umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'umupira w'ubururu bwerurutse ndetse n'ijipo y'ubururu mo mbere harimo ishati y'umweru ari ku rukarabiro ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Gukaraba amazi meza ndetse n'isabune ni ikintu cyiza cyane, kuko bifasha abantu muri rusange kwirinda indwara zituruka ku mwanda.

Ivomero rusange, ryashinzwe na UNICEF kugira ngo abaturage bose bagerweho n'amazi meza ndetse bayabonere ku gihe.

Imbuga iteraniyeho abaturage benshi, hari imodoka y'imbangukiragutabara ndetse hakaba n'umugabo umwe ushinzwe umutekano.

Abaforomo ndetse n'abaforomokazi bahuriye mu nama, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso hagati yabo harimo umugabo w'umuzungu.

Si byiza gukoresha abana imirimo ivunanye. Aha ngaha hari umwana uri ku ivomero, akaba ari guterura indobo ubona ko imurusha imbaraga ndetse imbere ye hahagaze umugabo ufite ingata mu ntoki ugiye kumukorera.

Abajyanama b'ubuzima ni abantu b'ingenzi mu buzima bwacu kubera yuko ni bo bita ku barwayi bagiye batandukanye mu nce zose z'igihugu, abatabashije kujya kwa muganga ni bo babavura kandi bakabavura neza.

Abana babiri ubona ko umwe ari mu kigero cy'imyaka itatu, undi akaba ari mu myaka cumi n'ibiri, bari kuvoma amazi ubona ko ari mabi.

Uru ni urugomero rufata amazi kugira ngo bayatunganye, bayakore neza azagere mu baturage asa neza ku buryo nta kibazo yateza.

Iyi ni isahane y'icyuma, bifashisha batwaye imiti, ikaba iriho inshinge ndetse mu ruhande hariho agacupa karimo umuti bagiye gutera umurwayi.

Inama yateranyije abantu bagiye batandukanye bo mu cyiciro cy'ubuzima, ikaba iri kwiga ku mibereho myiza y'abana.

Uru ni uruganda rushinzwe gutunganya amazi rukayakuramo mikorobe zose kugira ngo azagere mu baturage atunganye kandi asa neza.

Ahangaha ni mu kigo nderabuzima. Imbere y'inyubako muri jaride hari ababyeyi bicaye ku ntebe batatu, buri wese ari kuza agera imbere ya muganga akamushyiraho igikoresho cyifashishwa mu gupima umutima.

Aha ngaha ni ku iriba, hari abana babiri ndetse n'umukobwa umwe, ubona ko ari mukuru, afite ijerekani mu ntoki y'umuhondo, yayiteze kuri robine, hari kujyamo amazi. Iruhande rwe, hari akana kegamye ku gikuta, kambaye agapira k'umutuku.

Abana b'abahungu batandatu, bari kumwe n'umukobwa umwe, bambaye impuzankano, bari ku ivomero, bose batezeho indobo.

Abamama bagiye batandukanye, bari ku iriba, bafite indobo, bashaka kuvoma, iri riba rikaba ryaratewe inkunga na UNICEF.

Uyu nguyu ni umwana muto w'umukobwa, wateze intoki kuri robine ari kunywa amazi, inyuma ye hari intebe ya palasitike, ndetse hahagaze n'abandi bantu benshi, nabo bategereje kunywa amazi.

Abana benshi bari mu kigero kimwe, ubona ko abenshi muri bo bambaye impuzankano, ndetse bakaba bari guhangana kugira ngo buri wese abe yakora mu mazi.

Ikirango cy'umuryango ufasha imbabare UNICEF, kikaba kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, hagati harimo umugore uteruye umwana muto barebana mu maso.

Icyumba cy'inama giteraniyemo abantu benshi, buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse ku meza hariho amatelefone, ku ruhande rwo hirya hariho insakazamashusho.

Icyapa cyerekana yuko n'ubwo abantu benshi batagitekereza ku ndwara ya SIDA ariko igihari kandi tugomba kuyirwanya.

Abagore batatu bari ku ivomero umwe ari gupompa kugira ngo abandi bavome, undi ari ku ruhande arindiriye kuvoma.

Abana batoya benshi bari ahantu mu mazi, navuga ko bari gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuko kujya mu mazi menshi ntabwo ari byiza.

Umusore w'umuganga ubona ko akiri mutoya, ari gukora igikorwa cyo gukingira abarwayi bagiye batandukanye. Ari kubakingira indwara ya coronavirus.

Umukobwa ukiri muto, asutamye imbere ya robine ndetse yatezeho ijerekani, ari kuvoma amazi yo gukoresha ibintu bitandukanye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, cyatumije inama y'abajyanama b'ubuzima, kuko bagira umumaro munini mu kuvura abantu.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga. Harimo abantu batandukanye, barimo abaganga batatu ndetse n'umurwayi umwe, bakaba bari kumutera urukingo, umuganga uri kumukingira yambaye agapfukamunwa ndetse n'uyu mugabo, yambaye agapfukamunwa.

Uyu nguyu ni umuhanzi nyarwanda israel mbonyi, yambaye umupira wa orange afite icyansi mu ntoki ari guhereza umwana amata. Hano hari n'abandi bana benshi bose bari guhabwa amata n'abantu bagiye batandukanye.

Si byiza kujya kuvoma ku migezi kuko ushobora guhuriramo n'inyamaswa zigiye zitandukanye, twavuga nk'ingona.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bagiye batandukanye, abagore ndetse n'abagabo. Hagati yabo harimo umumama ari we usa nkaho ayoboye iyo nama.

Abana babiri ubona ko bakiri bato bari ku ivomero, umwe yatezeho akajerekani, undi ari gupompa kugira ngo amazi aze.

Aha ngaha hari abantu bagiye batandukanye, harimo n'uwambaye impuzankano ya Polisi y'u Rwanda, bakaba bari guhereza abana amata kugira ngo bite ku mibereho yabo ya buri munsi.

Ibi ngibi ni ibigega bikusanyirizwamo amazi aturutse mu duce tugiye dutandukanye kugira ngo abashe kuba yasukurwa avanwemo imyanda kandi atunganwe neza kugira ngo azagere mu baturage afite isuku ntabatere indwara.

Ahangaha ni ku ivomero hari abantu batatu harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umugore umwe ari kuvoma ndetse n'umugabo bari kumwe ari kuvoma bateretse amajerekani ku ivome imbere yabo uwo mugore uhari bisa nkaho aje kubabaza uburyo bakoresha ayo mazi neza.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu, buri wese afite ikayi imbere ye, bisa nkaho bari mu mahugurwa ajyanye n'uburyo bazajya bita ku barwayi aho bakorera hose.

Aha ngaha haragaragara umugabo wishimye ndetse n'umwana w'umukobwa wambaye agapira ka oranje na we wishimye, yikoreye ijerekani, uyu mugabo ari kumufasha kuyizamura, kuri iyi jerekani hariho icyapa cya UNICEF.

Aha ngaha haragaragara umugabo, afite igikombe arimo arasukira abana bagera kuri bane, ubona ko bishimye kugira ngo bakarabe intoki, hasi yabo hari ibasi ayo mazi ari guhita amenekamo.

Umubyeyi wikoreye ijerekani, avuye kuvoma amazi ku iriba. Ubundi amazi meza, ni isoko y'ubuzima ndetse no kuramba.

Aha hari abana b'abakobwa bagera kuri batanu, bose bambaye impuzankano y'ishuri, bari kuri robine, barimo barakaraba intoki, bose kandi bambaye amasogisi maremare n'inkweto z'imikara.

Umugore wambaye amarinete, ari kuganira n'abana, ndetse abaha n'amata mu cyansi. Inyuma ye hagaze umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare.

Umubyeyi yazanye umwana we kwa muganga kugira ngo bamuhe ikinini cya vitamine, umuganga yamwasamishije amaze kumuha ikinini.

Ahangaha hari abaturage bagiye batandukanye, ubona ko ari benshi, bitabiriye inama iri kwiga ku buryo bakirinda indwara zigiye zitandukanye ndetse n'uburyo barwana indwara zi ziterwa n'umwanda.

Iki ni icyumba cy'inama, kirimo abantu bagiye batandukanye bari kwiga ku bibazo bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Imbere yabo hari umugabo wambaye ikositimu y'umukara, bigaragara y'uko ariwe uyoboye inama.

Aha ngaha ni kwa muganga. Harimo abantu batatu, abagore babiri umwe w'umuganga undi w'umurwayi, inyuma yabo hahagaze umugabo, wambaye ishati n'agapfukamunwa. Umurwayi bari kumutera urushinge, bigaragara ko yagize ubwoba, cyangwa se, ruri kumurya cyane.

Uyu nguyu ni umumama, ahetse umwana mu gitenge, ndetse afite umupfundikizo w'indobo, ubona ko ari kuwoza, akoresheje amazi n'isabune. Imbere ye hari ivomero, akaba yaje kogerezaho, ibintu bitandukanye.

Umwana w'umukobwa usutamye, ubona ko yishimye ari guseka, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Umwana w'umuhungu uri mu kigero cy'imyaka irindwi, ari gukaraba akoresheje kandagira ukarabe, yambaye impuzankano y'ishuri.

Umwana muto w'umuhungu wambaye impuzankano y'ishuri, akaba afite ibirahuri bibiri by'amazi mu ntoki, kimwe kirimo amazi asa neza, ikindi kirimo asa nabi.

Aha ngaha hari umubyeyi, wambaye ijire y'umuhondo, yambaye ga mu ntoki ndetse n'agapfukamunwa, akaba afite igikoresho gipima umuriro mu ntoki, imbere ye hari umubyeyi uteruye uruhinja mu ntoki, bigaragara ko agiye kumupima umuriro.

Ahangaha ni ku ivomero rusange. Rifite robine ebyiri. Hari umwana wambaye ikabutura y'umutuku n'agashati ka gisirikare, wazanye indobo kuvoma akaba abanje kunywa ku mazi.

Abantu benshi cyane biganjemo abaganga bambaye amatabuririya y'umweru, buri wese yambaye baji mu ijosi rye barahagaze bari gufata ifoto, nyuma yo gukora inama yari igamije kwita ku bibazo by'abaturage barwaye ndetse n'uburyo babibonera imiti.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuganga w'umusore wambaye icyuma cyifashishwa mu gupima uko umutima utera ku ijosi rye, hicaye n'umumama uteruye akana gato bisa nkaho bari ku kavura.

Ku ivomero rusange, hahagaze umugabo wambaye umupira w'umutuku, akaba ari kuganiriza abana baje kuvoma.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umumama uryamye ku gitanda, umuforomokazi yamushyize akuma ku nda, arimo arareba ko umwana ameze neza mu nda.

Umwana w'umukobwa ukiri muto, yambaye ikanzu y'umutuku ndetse ari gukaraba ku ntoki amazi ajya mu ibasi y'umukara iteretse hasi, inyuma ye hari inzu yubakishijwe amatafari y'impunyu.

Abantu benshi bateraniye muri sale ikorerwamo inama, bari kwiga ku bibazo bijyanye n'indwara n'uburyo bazirinda abaturage batandukanye. Imbere yabo hari ameza, buri wese imbere ye hari icupa ry'amazi.

Aha ni ku kazu k'amazi, hari abagore benshi bagera kuri batanu, hateretse n'amajerekani menshi, imbere yaho hari umukobwa wambaye umupira w'umukara ari we ushinzwe kwishyuza abantu bari kuvoma kuri iri riba.

Umwana muto w'umukobwa, uri kuvoma amazi mu gishanga, bigaragara yuko aya mazi nta suku afite, uyanyweye yagutera indwara.

Ihema riteraniyemo ababyeyi benshi, buri wese akaba afite umwana we muto. Hari abagabo bambaye imipira ya oranje, bari kubaha amata mu byansi.

Leta zose zo ku Isi, zahagurukiye ikibazo cyo kwita ku baturage babo, aho bashora amafaranga mu cyiciro cy'ubuzima kugira ngo abaturage babo bagire ubuzima bwiza.

Mu cyumba cy'ivuriro harimo abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amasarobeti ajya gusa ubururu, hakaba harimo umukobwa bari gupima uko umutima we utera.

Aha ngaha ni mu cyumba cy'ishuri, harimo umugabo bigaragara ko ari umuganga, akaba yaje mu gikorwa cyo gukingira abana abasanze ku mashuri. Inyuma yabo hari abandi bana bicaye na bo barindiriye ko bagerwaho mu gukingirwa.

Umumama bigaragara ko avuye kuvoma, afite indobo imwe mu ntoki y'umuhondo ndetse akaba yikoreye n'indi ndobo y'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari umugabo w'umuganga ubona ko ari gupfuka umwana wakomeretse ku mutwe. Uyu mwana ari kurira.

Ahantu hameze nk'aho ari mu bice by'icyaro, aho hari agatanda k'amasahani ndetse n'urutoki n'urugo ruzitije imiyenzi.

Umugabo wambaye bote z'umweru, aho yaje gusura umuryango, aje kuwugira inama ku bijyanye n'imibereho myiza.

Abantu benshi b'abagabo bicaye mu ihema ry'umweru ndetse bambaye imyenda isa umweru, bakaba bameze nkaho bari mu nama.

Ababyeyi bagera kuri batatu, bicaye ku ntebe muri jaride ndetse imbere yabo hari umuganga uri kubasuzuma imiterere y'imitima yabo.

Iyi ngiyi, ni imbuga nini, irambuyeho shitingi nini cyane y'umukara. Kuri iyi shitingi, hariho abantu bagiye batandukanye, bari gupanga imifuka irimo ibyo kurya. Ku ruhande, hari abagore babiri bateruranye umufuka, na bo baje kuwushyira ku yindi.

Aha ni mu cyumba cy'inama, hari ameza ateraniyeho abagabo benshi bagiye batandukanye, bamwe bambaye amakositime, abandi bambaye amashati asanzwe, hagati ku meza hariho ibirahure, bimwe birimo amazi ndetse n'ibindi birimo ji hamwe n'impapuro.

Umugabo wicaye yegamiye igikuta, akaba yicaye ahantu ubona ko hari umwanda ndetse na we akaba yambaye imyenda isa nabi, bigaragara ko arwaye mu mutwe.

Abana benshi ubona ko ari abo mu bice by'icyaro, umwe muri bo afite akajerekani, umukuru muri bo yambaye ikote ubona ko ridasa neza, ridaheruka kumeswa.

Abasore ubona ko bari hagati y'imyaka makumyabiri kugera kuri mirongo itatu baricaye bari mu nama kandi bose bambaye imipira isa umukara.

Abana bato cyane ubona ko bafite akanyamuneza ku maso, bari guseka kandi bose urabona ko bahuriye ku buzima bwiza.

Umugabo wambaye imyenda yacitse mu mugongo n'imisatsi adaheruka kogoshesha, yicaye muri ruhurura afite imyanda myinshi mu ntoki ze, urabona yuko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Abana benshi b'abanyeshuri bari ku mbuga, bose bazamuye amaboko, inyuma yabo hari ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bahagaze bari kwifotoza, harimo abagabo n'abagore, hagati yabo harimo umugabo wambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda.

Umumama ufite isakoshi mu ntoki ndetse akaba ari kuvugira mu ndangururamajwi, imbere ye hari umukobwa wambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'umukara bari kurebana, baganira.

Umugabo uhagaze mu muhanda, afite imisatsi idaheruka kogoshwa kandi isa nabi, yambaye n'imyenda icikaguritse, ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Kugira agahinda kenshi, ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiye. Nyuma y'ibibazo urabyirengagiza, ugakomeza imbere kuko ibyiza biri imbere.

Abaganga bateranye, bari gupima indwara zo mu mutwe ndetse kugira ngo bamenye umubare w'abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye byo mu mutwe.

Umukecuru ubona ko yishimye, kuko yasetse, ndetse afite n'akanyamuneza ku maso yiwe, akaba yambaye igitenge cy'icyatsi.

Umugabo ubona yuko yambaye imyenda yacikaguritse, akaba yicaye mu ivumbi mu muhanda, ukaba ubona ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Bamwe mu baturage bakunda gufatwa n'indwara y'agahinda gakabije gaterwa n'ibibazo baba bahuye na byo mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane bituruka ku bibazo biri mu miryango.

Abakobwa batatu bicaye ku ntebe bari kuganira, bose bambaye udupfukamunwa, ndetse bicaye iruhande rw'inzu gakondo za kera tuzi nka nyakatsi.

Ahangaha ni mu cyumba cy'inama, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagore, abagabo ndetse n'urubyirukoba, abanga baje mu nama yiga ku bibazo byo mu mutwe ndetse abantu bafite ibibazo byo mu mutwe bajya bavurwa byoroshye.

Umukecuru wicaye mu muhanda rw'agati, ubona ko ari kugenda atoragura imyanda, biragaragara yuko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu, yicaye hasi yambaye ikabutura ndetse yambaye amapingu, bigaragara ko afatiwe mu byaha yari ari gukora.

Aha ngaha ni mu cyumba cyateraniyemo abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye, higanjemo abamama bambaye ibitambaro mu mutwe, iyi nama yahuje abakecuru ndetse n'urubyiruko kugira ngo bagirwe inama ku buzima bwabo ndetse n'uburyo bakwitwara kugira ngo babeho neza.

Icyumba cy'inama, kirimo ibyapa byanditseho RBC ndetse n'icyanditseho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, harimo abantu babiri, umugore ndetse n'umugabo wambaye agapfukamunwa, bari gutanga inama ku buzima.

Ihema ririmo abaforomokazi benshi, bari kuganiriza abaturage ku buzima bwo mu mutwe, ndetse n'uburyo bakirinda indwara zitandukanye.

Abana bo ku muhanda na bo ni abana nk'abandi, bakwiye kwitabwaho ndetse byaba ngombwa bagasubizwa mu buzima busanzwe kugira ngo na bo bagire ejo hazaza.

Urubyiruko rukwiye kwita ku buzima bwo mu mutwe. Hano hari urubyiruko, abakobwa ndetse n'abasore, bavuye mu nama, yigaga ku buzima bwo mu mutwe.

Umugabo w'umusirimu, ari gusuhuzanya n'uwundi ubona y'uko afite ikibazo cyo mu mutwe, bitewe n'uburyo yambaye.

Ababyeyi batatu, ubona ko bari mu murima, umwe muri bo afite umwana uri konka ndetse bose bafite inkoni mu ntoki.

Umubyeyi ubona ko yishimye, yicaye ku ntebe, imbere ye hari imbabura urabona ko atetse igikoma, akaba ari kumwe n'abana be, umwe aramuhetse, uwundi amuhagaze iruhande.

Mu Rwanda hafashwe ingamba zo guhagurukira indwara zo mu mutwe, kugeza ubwo hashyizweho ikigo gishinzwe kwigisha abanyeshuri ibijyanye n'indwara zo mu mutwe ndetse n'uburyo zavurwa.

Umunsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Ikigo k'Igihugu Gishinzwe Ubuzima (RBC), cyateranije inama kugira ngo bakomeze gukurikirana icyo kibazo.

Umugabo ubona ko ari mukuru, yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara aho yaje gushyira indabo ku mva zishyinguyemo imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi.

Aha ngaha, hari abantu benshi bagiye batandukanye, barimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imipira y'ubururu bose, bigaragara ko bari gutera ibiti mu murima kandi bose barishimye.

Iyi ngiyi ni inyubako y'ibitaro bishinzwe indwara zo mu mutwe yitwa Caraesi, imbere yayo hateye ibiti by'imikindo byiza cyane hari na jaride ndetse hari n'akayira abanyamaguru banyuramo karimo amapave.

Inyubako igaragara neza, isize irangi ry'umweru, ikaba ari inyubako y'ibitaro ndetse ukaba ubona yuko yakwakira umubare munini w'abarwayi.

Abana batoya ubona yuko ari benshi, bambaye imyenda y'umuhondo, bakaba bari muri sitade.

Imodoka nini imeze nk'irimo ivuriro yo mu karere ka Bugesera, ikaba ishinzwe kugenzura ubuzima bwo mu mutwe ku bantu batandukanye.

Uyu ni umugabo ubona ko yambaye imyenda yacikaguritse kandi isa nabi, afite ubwanwa budaheruka kogoshwa ndetse n'umusatsi usa nabi, uyu mugabo bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Aha ngaha haragaragara umugabo, bigaragara ko afite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe, yicaye hasi yambaye ikabutura isa nabi, n'imisatsi idaheruka gukaraba. Uyu mugabo hari abamuhagaze imbere, bashaka kumufasha ngo bamujyane, aho bamwitaho.

Abantu benshi bavanzemo aba mama, abana ndetse n'abagabo bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda mu ntoki, bigaragara ko bishimye kandi batewe ishema n'igihugu.

Ahangaha hari abaturage bagera kuri batanu ndetse n'umwana muto umwe, hagati yabo harimo umujyanama w'ubuzima wambaye umupira w'ubururu ari kubaganiriza abagira inama z'ukuntu bakiri umwanda ndetse n'uburyo bakirinda indwara zituruka ku mwanda.

Umugore w'inzobe, ufite agapfukamunwa ku kaboko ke k'ibumoso, ameze nk'uri kuvuga atanga inama zitandukanye ku bo bari kumwe.

Umusaza ubona ko yishimye kubera y'uko yanasetse, afite icumu mu ntoki ndetse yambaye n'umwitero w'umuhondo, akaba ameze nk'userutse.

Umumama wambaye amarinete, akaba yambaye n'ikanzu y'umuhondo n'ubururu, afite akapa mu ntoki, kanditseho kwibuka.

Uyu ni umubyeyi, urabona y'uko yicaye wenyine, yigunze ndetse yifashe mapfubyi. Uyu mubyeyi urabona ko akeneye ubufasha ndetse n'umuntu umuganiriza.

Uko bigaragara, aha hari abamama bagiye batandukanye abirabura ndetse harimo n'umuzungu umwe, bari gutanga amashyi kuko hari umuntu uvuze ikintu cy'ingenzi.

Umukobwa wicaye mu ntebe iboshye, akaba ari guseka, yambaye isengeri y'umukara ndetse n'urunigi, akaba yicaye ari kuruhuka.

Ubuzima bwo mu mutwe, muri iyi minsi buri kwibasirwa n'indwara zigiye zitandukanye, bitewe n'imihindagurikire y'Isi. Rero dukwiye kwita ku buzima bwacu bwo mu mutwe kugira ngo buri wese azasaze afite impagarike n'ubugingo.

Umubyeyi uhagaze imbere y'inzu ye, yikoreye igitebo kirimo imigozi ndetse afite n'isuka mu ntoki, ubona ko avuye mu murima.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hari umukobwa wicaye hagati y'ababyeyi babiri bateruye abana b'impinja, ari kubagira inama z'ukuntu babitaho.

Ikigo cyitwa "Wihogora Psychological Center" gishinzwe kumenya ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse kikita ku barwayi bo mu mutwe.

Ibarurishamibare rigaragaza umubare w'abantu biyahuye mu gihugu cy' u Rwanda, guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri kugeza muri bibiri na cumi n'umunani.

Umukobwa w'umujyanama ku buzima bwo mu mutwe, aricaye ari kuganiriza umubyeyi amuhumuriza uko urabona ko uyu mubyeyi afite ibibazo.

Ni byizayiza gutoza abana bato umuco wo kugira isuku ndetse ukabatoza no koza amenyo yabo bakoresheje corogati n'uburoso.

Abaganga babiri bakora muri serivisi z'ubuvuzi bw' amenyo bafashe seritifika zabo. Urabona ko bishimye kandi bishimiye akazi bakora.

Ahangaha hari abaganga babiri bambaye impuzankano y'umukara, umwe ni umugabo undi ni umugore bambaye n'udupfukamunwa. Ku gitanda haryamye umurwayi bigaragara ko bari kumuvura indwara zijyanye n'amenyo.

Gusukura amenyo, bikorwa mu buryo butandukanye. Ushobora gukoresha uburoso na korogati ariko nanone, wakifashisha akagozi kugira ngo umaremo imyanda, isigara hagati y'amenyo.

Umubyeyi ndetse n'umwana we, bari mu cyumba gisize irangi ry'umweru, bakaba bari kuborosa amenyo, bifashishije uburoso ndetse na korogati.

Isuku y'amenyo ni ikintu cya ngombwa mu buzima, twakwifashisha uburoso na korogati ariko cyane cyane iyo ukoresheje agashumi kavanamo imyanda hagati y'amenyo neza.

Abantu b'ingeri nyinshi bari ku murongo, bagenda bipimisha ibiro ndetse n'uburebure ku ihema ririho ikimenyetso cya RBC.

Umwana muto uri mu kigero cy'imyaka ibiri cyangwa itatu, yicaye ku ntebe aho yegamye inyuma ku musego w'ubururu, afite uburoso mu kanwa buriho korogati ari gukora isuku y'amenyo kandi urabona ko yishimye cyane.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo kwa muganga. Gisizemo amabara y'umuhondo. Muri iki cyumba hicayemo umugabo bigaragara ko ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'isaha ku kaboko, akaba yicaye iruhande rw'igitanda cy'umurwayi.

Aha ngaha ni mu ihema, riri kwifashishwa, mu kuvura abarwayi bagiye batandukanye. Harimo umukobwa muto w'umuganga, wambaye ga z'umweru, ndetse n'itaburiya y'umweru, ari kuvura umukobwa, ndetse anamusuzuma indwara z'amenyo.

Umusore bigaragara ko ari mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kugera kuri mirongo itatu, ahagaze imbere y'ikirahure ari gukoresha akagozi agacisha hagati y'amenyo kugira ngo asukure amenyo ye ndetse avanemo imyanda iba yasigayemo mu gihe ari kurya.

Umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, yambaye iherena ku zuru, ndetse ari gutunga urutoki ku menyo ye ubona ko acyeye cyane.

Abaganga b'amenyo bagira ibikoresho bifashisha mu kuvura abarwayi bafite ibibazo by'amenyo, iyo uje urwaye amenyo bikaba ngombwa ko barikura, bifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bisa neza bitakugiraho ingaruka.

Mu buryo bwo kwirinda indwara zo mu kanwa zitandukanye, dukoresha imiti itandukanye, ariko nanone ushobora kwifashisha akagozi ukakanyuza hagati y'amenyo kugira ngo imyanda iba yarasigayemo ivemo.

Umugabo w'umwirabura uryamye kwa muganga hakaba hari umuforomokazi w'umuzungu uri kumufasha gukuramo iryinyo rirwaye.

Icyumba kirimo umuforomokazi wambaye amarinete ku gahanga, hakaba hari n'umurwayi arimo aramupima indwara zo mu kanwa.

Mu cyumba cyo kwa muganga, hari abagore babiri, umwe ni umuforomokazi, arimo arita ku murwayi amuvura indwara zo mu kanwa.

Abana bose, bakwiye, vkugira isuku, atari ku myenda gusa, ahubwo no mu kanwa, bakoresha, uburoso na korogati, ngo bahatunganye, hamere neza.

Icyumba cyo kwa muganga, gifite amarange y'umweru, hakaba harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bipima indwara zitandukanye ndetse n'intebe yo kwicaramo.

Mu gihe wagize ikibazo icyo ari cyo cyose kijyanye n'indwara, ni ngombwa kwihutira kwa muganga kuko ubuvuzi kuri ubu bwateye imbere, nta ndwara n'imwe ikinanirana ku buryo yahitana umuntu itavuwe.

Uyu musore afite amenyo meza y'umweru kuko yabashije kuyitaho, akayagirarira isuku ndetse akajya akora ibishoboka byose kugira ngo ahorane isuku.

Aha ngaha hari umwana muto w'umuhungu ubona ko ari mu kigero cy'imyaka itanu, afite uburoso imbere ye buriho korogati bisa nkaho agiye gukora isuku y'amenyo, ni byiza gutoza abana gukora isuku y'amenyo kuko bituma bagira ubuzima bwiza.

Uyu ni umugabo w'umwirabura ufite umusatsi muke, bigaragara ko yishimye, akaba afite agashumi mu kanwa ari kuvanamo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo.

Umusore w'umwirabura, wambaye ubusa ku gice cyo hejuru, afite ubwanwa bwinshi ndetse akaba ari gukoresha agashumi mu kuvana imyanda mu menyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abaganga babiri, bari kwiga uko bavura indwara zo mu kanwa bigira ku gikinisho.

Umwana muto w'umukobwa, yambaye amaherena ndetse n'agasengeri k'umuhondo, imbere ye hari umuganga uri kumupima indwara zo mu kanwa.

Umuganga wambaye ga z'umweru afite ibikoresho byifashishwa mu gukura amenyo, akaba yasamishije umwana ari kumukuramo iryinyo rirwaye.

Abantu bose bakwiye kumenya uburyo bakwirinda indwara z'amenyo. Cyane cyane bakifashisha uburoso ndetse na korogati, gusa na none ntitwakwirengagiza ko ushobora kwifashisha nk'urudodo, kugira ngo uvanemo imyanda iba yasigaye hagati y'amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuforomo uri kwita ku mugabo, ubona ko ari kumuvura indwara zo mu kanwa.

Indwara z'amenyo iyo zivujwe neza zirakira kandi rero si ngombwa yuko urindira kurwara kubera ko hari imiti wagakoresheje kugira ngo wirinde izo ndwara, twavugamo nka korogati ndetse ugakoresha n'uburoso woza amenyo yawe.

Icyumba cyo kwa muganga. Kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga, abaganga bifashisha mu kumenya indwara abarwayi batandukanye baba barwaye.

Umuganga wambaye ga z'umweru ndetse n'amarinete, ari gukura umwana ukiri mutoya iryinyo akoresheje ibyuma bibiri.

Umugabo w'umwirabura ari kumwe n'umwana we, bari kwerekana uburyo ushobora gukoresha agashumi ukavanamo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo.

Umukobwa uri mu cyumba gisizemo irange ry'umweru, akaba ari kwireba mu ndorerwamo, ari guseka, yishimiye isura ye.

Ahangaha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo abaganga babiri, uw'umusore, ndetse n'uw'umu mama, bambaye udupfukamunwa, bari kwita ku mwana ukiri muto w'umuhungu, bagiye kumukuramo iryinyo rirwaye kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Iyi ngiyi ni ifoto yafashwe n'icyuma cya sikaneri yerekana amenyo y'umuntu ndetse n'uburyo ateye, iyi yafashwe mu rwego rwo kugenzura indwara afite kugira ngo ahabwe ubuvuzi.

Aha ngaha hari umwana w'umukobwa bigaragara ko akiri muto, akaba yasetse ari kwerekana amenyo meza cyane, bigaragara ko ayakorera isuku umunsi ku wundi. Ni byiza gukorera amenyo isuku kuko bituma utarwara.

Ifoto iturutse mu byuma by'ikoranabuhanga. Iri kwerekana igice cy'amenyo y'umuntu bapimye ngo barebe y'uko arwaye.

Umusore wambaye ubusa hejuru akaba ari mu kirahure ari kunyuza agashumi hagati y'amenyo kugira ngo avanemo imyanda iba yasigayemo.

Ni ngombwa kwita ku isuku y'amenyo yacu, hano hari umukobwa ubona ko yishimye yasetse, yambaye isengeri y'umweru afite uburoso ndetse buriho korogati, ari gukora isuku y'amenyo ye kugira ngo atazagira ikibazo.

Uyu ni umusore ubona ko akiri muto, ari mu myaka mirongo itatu cyangwa se makumyabiri n'itanu, ahagaze imbere y'igikuta gisize ibara ry'umuhondo, akaba yambaye agapira k'umweru, yasetse bigaragara ko amenyo ye yayakoreye isuku bihagije.

Umukobwa mwiza ukiri mutoya, afite imisatsi igera mumaso ari kwireba mu ndorerwamo, ukaba ubona ko ari kwiborosa amenyo ye ayakorera isuku akoresheje uburoso nakorogati yambaye n'agasengenge k'umweru.

Aha ngaha hari abantu babiri, umukobwa ukiri muto ubona ko ari inzobe n'umuhungu ufite imisatsi ije imbere. Bose bari mu kirahure bari kwireba, bafite utudodo mu kanwa bari gukuramo imyanda mu menyo yabo.

Umukobwa w'umuganga afite imisatsi miremire ndetse ari kumwe n'umukecuru, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Mu buryo bwo kubungabunga abasheshe akanguhe kugira ngo bajye baramba, umuryango uwo ariwo wose wagakwiye kwita ku bantu bakuru abasaza ndetse n'abakecuru kugira ngo babasazishe neza.

Ni ikintu cy'ingenzi, kwita ku bantu bageze mu zabukuru kuko bibafasha kuramba. Ahangaha, hari umukobwa ukiri muto w'umuganga, afite igikoresho gipima uko umutima utera, yagishyize ku musaza kugira ngo amenye uko amwitaho.

Umusore ukiri muto. Ari kumwe n'umusaza bari guseka, ubona ko ikibasekeje ari igitabo bari gusoma. Imbere yabo hari ibikombe, birimo icyo kunywa.

Umukobwa ukiri muto bigaragara ko ari umuforomokazi, ari kuganiriza umusaza ubona ko bishimye, ari kumugira inama z'ubuzima.

Umubyeyi ndetse n'umwana we ukiri muto, bicaye ku meza barishimye arimo aramwigisha kubara.

Umugabo w'umwirabura, ubona ko asheshe akanguhe, ari gukina n'umwana ukiri muto bisa naho ari umwuzukuru we, bakina umukino wa Basiketi, bishimye ndetse ubona ko banezerewe cyane.

Umumama w'umwirabura, ubona ko ari mu kigero cy'imyaka kuva kuri mirongo itanu kugera kuri mirongo itandatu n'itanu, akaba yashinze inkokora ari gukora siporo.

Kwita ku bageze mu zabukuru ni ingenzi. Aha ngaha hari umubyeyi ukiri muto uri kwita ku musaza, amusukira umutobe w'imbuto ndetse imbere ye hari amatasi arimo ibyo kunywa ndetse n'imbuto zitandukanye.

Imyitozo ngororamubiri si iy'abantu bato gusa, ahubwo n'abasheshe akanguhe nabo bagomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Iyi ni inama y'abaturage muri rusange, harimo abagore, abamama ndetse ku ruhande harimwo umusaza ubona ko ariwe uri kubaha ikiganiro.

Kwa muganga hari umuforomokazi, bigaragara ko ari gutoza umusaza wari ufite ikibazo cyo kuvunika, akaba amwereka uburyo azabasha kugenda.

Umukobwa w'umuforomokazi wambaye impuzankano y'umukara, ari gufasha umusaza kugenda amufatishije ku byuma.

Umusaza ufite imvi, yicaye imbere y'imeza, akaba yambaye akuma k'ikoranabuhanga, kerekana uburyo amaraso agenda mu mubiri ndetse n'uko umutima utera.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, kirimo umuganga wambaye akuma gapima uko umutima utera mu ijosi rye, ndetse ari kumwe n'umukecuru yamufatishije akuma k'imyitozo ngororamubiri kugira ngo amwigishe uko azajya akifashisha, bimufashe kubaho neza.

Umugore ubona ko ari umuganga, afite agakoresho yifashisha mu gupima umutima ndetse ari gufasha umusaza mu myitozo igorora imitsi.

Abasheshe akanguhe, ni ngombwa ko bitabwaho. Hano hari umusaza wambaye umupira w'umukara, afite imashini imbere ye, hakaba hari umukobwa uri kumuha ibinini, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuganga ndetse n'umukecuru wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, bari kumupima umuvuduko w'amaraso ndetse n'uburyo umutima we utera.

Aha ngaha ni mu nzu hari umusaza usheshe akanguhe, imbere ye hateretse ikirahure cy'amazi ndetse iruhande rwe hari umugore ubona ko akiri muto, uri kumwitaho amupfundurira imiti kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Indyo yuzuye, ni ingenzi mu buzima bwa muntu, haba ku bato, abakuru, ndetse n'ingeri zose z'ikiremwa muntu, ni ngombwa kurya indyo yuzuye.

Umusaza ubona ko yishimye, yicaye ku meza ari kumwe n'undi muntu, kandi bari kurya ibiryo birimo imboga rwatsi.

Umukecuru ndetse n'umusaza bicaye mu nzu bari ku meza, afite urupapuro rwanditseho uko ushobora gufata imiti.

Abasheshe akanguhe na bo bakwiye kwitabwaho bagahabwa ibyo bakeneye byose, aha hari umusaza uri kwandika ubona y'uko abyitayeho kandi abikora abishaka.

Uyu ni umusaza ubona ko asheshe akanguhe, ateruye umwana mu ntoki, ari kuganiriza abantu begeranye na we kandi bose bari guseka barishimye, umwe muri bo ari kuboha agatebo.

Aba ni abahinzi bahagaze ahantu mu bihingwa byabo ubona ko byeze bavuye gusarura babona ko bishimye cyane muri bo harimo abagabo babiri ndetse n'abadamu benshi bose bazazmuye amaboko mu kirere bari kwishimira umusaruro wabo.

Umuforomokazi w'umuzungu ufite igipimo cyerekana uko umutima utera, ari gusuhuza umukecuru w'umwirabura ubona ko bishimiranye.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bari mu muhanda ubona ko bari gukora siporo, harimo umukecuru ndetse n'abakobwa babiri.

Aha ngaha haragaragara umukecuru ubona ko ari mu zabukuru, afite inkoni mu ntoki yifashisha mu kugenda ndetse ari kumwe n'umusore w'umuganga, wambaye igikoresho gipima uko umutima utera, ku ijosi rye.

Aha ni kwa muganga. Haragaragara umusaza wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari gusunikwa n'umukobwa ukiri muto w'umuganga wambaye igipima uko umutima utera ku ijosi rye ndetse ukaba ubona ko bishimye.

Umuryango w'abantu batatu ubona ko bishimye, bicaye ku meza bari guseka ndetse bari gukina umukino w'amakarita.

Umusaza ufite imvi z'uruyenzi ubona ko ashaje bihagije, yicaranye n'abuzukuru be bari kunywa amata.

Umukobwa ukiri muto w'umuforomokazi ari kumwe n'umusaza, yamuhaye ikirahure cy'amazi ndetse ari kumuha n'ikinini ngo akinywe.

Umusaza w'umwirabura ndetse n'umukecuru w'umuzungu, bari gukora imyitozo ngororamubiri yo kwiruka. Urabona yuko bashishikajwe na byo.

Ni ngombwa kwita ku bageze mu zabukuru kugira ngo bagire ubuzima bwiza, bazasaze neza. Hano, hari umuganga w'umugabo, ari gusobanurira umusaza uburyo yajya yitwara kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza, asaze neza.

Umukobwa w'umuzungu ndetse n'umugabo w'umwirabura ubona ko afite ikibazo cyo kugenda, ari kwiga kugendera ku byuma abifasheho, kugira ngo azasubire mu buzima busanzwe.

Abantu bakuru na bo bagomba gukora siporo, uyu mumama urabona ko afite imyaka iri hejuru ya mirongo itandatu ariko aracyakora siporo kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Aha ngaha hari umugabo ubona ko asheshe akanguhe yicaye ku meza bigaragara ko yari ari mu kazi, afite impapuro nyinshi imbere ye ndetse ubona ko yifashe ku gahanga bigaragara yuko ananiwe, si byiza gukora akazi kenshi kandi ushaje.

Birakwiye kwita ku basheshe akanguhe bagahabwa ubufasha ndetse bakaganirizwa ku bintu bigiye bitandukanye, kugira ngo birinde kwiheba ndetse bazasaze bagifite ibitekerezo bizima.

Mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bw'abasheshakanguhe ni ngombwa kubitaho, ukabaganiriza ntibagire irungu, cyangwa se ukabashakira imikino ibanezeza ituma batihugiraho ngo batekereze ku bintu bibi.

Umuganga w'igitsina gore ahagaze mu nzu ari kumwe n'umusaza ubona ko arwaye umugongo, ari kumugira inama z'ukuntu yazakira byoroshye.

Ubuzima bw'abasheshe akanguhe ni ingirakamaro, ubundi mu buzima busanzwe abantu bakuze baba bagomba kwitabwaho kuko baba bageze mu gihe cyo kuba bafatwa neza kugirango babashe kuba baramba igihe kinini.

Umukecuru ndetse n'umusaza ubona ko bishimye ndetse bakaba bakundanye cyane, basazanye urukundo.

Umusaza ubona ko ari gukina n'umwuzukuru we, akaba afite agapupe mu ntoki ndetse bicaye mu ntebe zegamirwa.

Umukecuru ubona ko akuze, kuko imvi zabaye uruyenzi, ahagaze imbere y'imbaga y'abantu, afite indangururamajwi ari kubagezaho ijambo.

Umukobwa w'umuganga ufite agakoresho gapima uko umutima utera, ari gupima umusaza umwicaye imbere wambaye agapfukamunwa.

Umukecuru wogoshe umusatsi, ari mu cyumba, aho afite ikirahure cy'amazi mu ntoki ndetse mu kandi kaboko afitemo ibinini agiye kunywa.

Aba ngaba ni abagabo babiri ubona ko bageze mu zabukuru, bose bakaba bambaye imipira y'imyeru ndetse bafite amacupa y'amazi mu ntoki, bari mu myitozo ngororamubiri aho bari kwitegura kujya mu zabukuru kugira ngo bazabeho neza, basaze neza.

Mu nzu ubona ko ari mu basirimu, hahagaze umukobwa ndetse na nyina, bari kuganira ndetse banatetse imboga zitandukanye.

Umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi ndetse n'amarinete ubona ko yishimye, ari kumwe n'umusaza wambaye ishati ya oranje, bakaba bishimye bigaragara ku maso.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo kwa muganga, harimo umuforomokazi w'umuzungu, uri kwita ku musaza ubona yuko ageze mu zabukuru, ari kumufasha kugendera ku cyuma cyabugenewe, kimufasha kugenda neza.

Umusaza uri kwitabwaho n'umuforomokazi. Bikaba bigaragara yuko ari kumufasha kuba yakira indwara y'imitsi ndetse n'izindi ndwara.

Ikigo gishinzwe kwita ku basheshe akanguhe, harimo umusaza ubona ko bari kumwitaho bamwoza umutwe n'amazi meza ndetse n'isabune.

Aha ngaha hari umusaza ubona ko ashesha akanguhe, yicaranye n'umugore wambaye amarinete, imbere ye ku meza hari imashini ndetse uyu musaza afite icupa ry'ibinini mu ntoki.

Aha ngaha hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari kwita ku mugabo usheshe akanguhe ari kumwerekera uko agendera ku cyuma, ubona ko yari atabashije kugenda.

Umusaza ndetse n'umukecuru, bicaye ku meza, bafite ibinini ndetse n'ikirahure cy'amazi imbere yabo, bari kureba uburyo iyo miti inyobwa.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, cyateguye ibirori byo ku munsi wahariwe kurwanya sida ku isi yose kugira ngo bayice burundu.

Inama igamije kuganira ku buryo SIDA yandura ndetse bakaganira no ku zindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina n'uburyo abantu bazirinda.

Abantu benshi bambaye imipira isa y'umweru ndetse n'amapantaro y'imikara, bari mu muhanda bafite ibyapa byanditseho turwanye kanseri y'ibere.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane ku bakiri bato, ni gahunda nziza yafasha mu mikurire yabo ndetse n'ahazaza habo heza.

Inama yateranye yiga ku bijyanye n'ubuzima bwiza, imbere hari abantu bagera kuri batandatu bayiyoboye abandi benshi bicaye bakurikiye ibyo bari kubwirwa.

Abayobozi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, bayobora mu rwego rushinzwe ubuzima mu Rwanda ndetse bakaba bavuye mu nama.

Umukobwa ukiri muto, ufite imisatsi miremire, afite indangururamajwi mu ntoki kandi afite akamwenyu ku maso, ari gutanga inama ku rubyiruko.

Ahangaha ni kwa muganga haragaragara abagore babiri, umwe ni umuforomokazi ari gutera urushinge umugore wambaye ishati y'umweru, ubona ko afite ubwoba bwinshi cyane urushinge rushobora kuba rwamuriye.

Aha hari umugabo w'umuzungu, ahagaze munsi y'igiti kirekire, gifite amashami y'icyatsi, mu ntoki ze, afitemo icyapa cyerekana ko urukingo rw'indwara y'ubushita bw'inkende rwabonetse.

Indwara ya kanseri, ni indwara ihitana ubuzima bw'abantu benshi mu Gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku Isi hose, rero ni byiza ko abaturage bose bahabwa ubukangurambaga mu buryo bakirinda indwara ya kanseri ndetse n'uburyo bayirwanya.

Inyandiko iriho amabwiriza y' uburyo abantu batandukanye bakirinda indwara ya sida ku isi hose.

Abaganga batandatu, bambaye imyenda ibapfutse neza ku buryo hatagira umurwayi ugira ikintu na kimwe abanduza. Bigaragara ko bari kuvura Coronavirus.

Indwara zose ntago ziba ari kimwe. hari indwara zandura byoroshye ndetse hakaba hari n'indwara ziterwa n'umwanda.

Ababyeyi bane bari kwa muganga, buri wese ateruye uruhinja, urabona y'uko baje mu gikorwa cyo gukingiza abana babo.

Ubushakashatsi ku buzima butuma havumburwa imiti itandukanye y'indwara zananiranye ndetse igahabwa n'abakene.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, kerekana Ikigo k'Igihugu gishinzwe Ubuzima mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Gahunda yo kuboneza urubyaro ni gahunda nziza yashyizweho na Leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kugabanya kubyara abana benshi umuntu adafite ubushobozi bwo kuba yarera.

Abana bato benshi, bari mu muhanda, bafite icyapa cyanditseho ngo rubyiruko, nimwe hazaza heza h'uru Rwanda. Irinde virusi itera Sida, ipimishe uyu munsi. Biragaragara ko ari abanyeshuri bari kumwe n'abarezi babo.

Ikirango cy'Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, kikaba kiri mu mabara atandukanye ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi basoje gukora inama bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso. Iyi nama yari igamije kwiga ku buzima n'ingamba zafatwa ngo bugende neza.

Inyubako ya etaje ifite ibirahuri by'ubururu ndetse ikaba igereretse inshuro enye, imbere yaho hari ibiti bizamutse by'icyatsi.

Icyumba gisa umweru kirimo amamashini menshi yifashishwa mu buvuzi ndetse no mu gusuzuma indwara zigiye zitandukanye, zananiranye.

Ubu ni ubusitani bwiza cyane, buri hagati mu nzu zigize ikigo nderabuzima, izo nzu imbere yazo hahagaze ababyeyi, hacanye amatara bigaragara ko bigeze nimugoroba.

Inzu zubakishije amatafari ahiye ndetse zifite ibirahure by'amadirishya bibonerana ikaba ari inzu z'ikigo nderabuzima gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye.

Icyumba giteguye neza hejuru gisizemo amarangi y'umuhondo, hasi hari intebe z'umuhondo ndetse n'izindi z'ubururu zegamirwa.

Umukobwa w'umuforomokazi ufite imisatsi miremire, afite igikoresho bifashisha bapima imiterere y'umutima, akaba ari kwita ku mugabo ubona ko akuze.

Inzu y'amagorofa atatu, iruhande rwaho haparitse imodoka y'ivatiri, hakaba hakoreramo farumasi yitwa Mediasol.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga. kirimo imashini zigiye zitandukanye, kandi buri mashini ifite icyo ishinzwe gukora, nko gupima indwara zitandukanye, abantu baba barwaye.

Icyumba kinini, ubona ko ari icyo gukoreramo siporo, kuko harimo amagare ya tekinoloji abantu birukankiraho ariko atava aho ari.

Abakobwa batatu ubona ko bambaye impuzankano y'abaganga bakaba bambaye n'udutambaro mu mutwe bigaragara ko ari ababyaza.

Icyumba cya hoteri, ubona ko gisa neza cyane, kirimo amabara agiye atandukanye, icyatsi ubururu, ndetse na oranje, hakaba harimo n'amatara atanga urumuri rwiza.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze imbere y'inyubako y'ibitaro, buri wese muri bo afite agatebo mu ntoki ndetse bose bambaye amashati y'umweru, ikigamijwe ni ukwita ku buzima bw'abantu.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi ndetse gisize irangi ry'umweru, harimo umuganga ufite telefoni mu mufuka w'inyuma.

Icyumba harimo ibyuma by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gupima indwara zigiye zitandukanye, hakaba harimo n'umuganga ushinzwe kubikoresha.

Abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye abagabo ndetse n'abakobwa bahagaze imbere y'inyubako ya one stop center iherereye ku kabutare.

Aha ngaha hari inzu icururizwamo imiti y'abantu, yitwa Iraguha Pharmacy, mo imbere harimo abantu b'ingeri zitandukanye baje kugura imiti igenda, ibafasha mu kwivura indwara zitandukanye.

Aha ngaha hari inyubako nziza cyane eshatu, ebyiri zubatswe mu buryo bw'ikizeru, iyindi ni ifite amagorofa abiri, izi nzu ni izo kwa muganga, imbere yazo hari ubusitani bwiza cyane.

Iri ngiri ni ihema ririmo abaganga bagiye batandukanye, bambaye imyenda y'umweru, umwe muri bo yicaye ku meza arimo kwandika, ku ruhande rwo hirya undi muganga ari gupima umugabo wambaye amarinete imiterere y'umutima we.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga gifitemo impande ebyiri zirimo ibitanda bitandukanye. Byose ni ibitanda byiza bifite amapine, kandi buri hagati y'igitanda n'ikindi harimo amarido meza y'ubururu ndetse kuri buri gitanda hariho inzitiramubu.

Inyubako ubona ko ari nziza cyane, imbere yayo hari jaride irimo indabo nziza, akaba ari inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge.

Inyubako nziza y'amagorofa abiri, ikaba ari inyubako y'Ikigo Nderabuzima cya Nyarurenzi, ikaba isizeho amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, imbere yayo hari ibiti birebire.

Inyubako yo kwa muganga handitseho aho bakirira abantu, ikaba isa neza harimo intebe ndetse n'amatara amurika neza, hejuru harimo aho bakira abarwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga, harimo abaganga benshi batandukanye, bose bambaye imyenda bikwije, ku gitanda hariho umurwayi ashobora kuba arwaye icyorezo.

Abantu batandukanye, barimo abirabura ndetse n'abazungu benshi, bahagaze imbere y'ikigo nderabuzima cya Butaro, iki kigo, kikaba kizwiho kuvura kanseri, cyane cyane mu bantu baturutse mu Rwanda.

Icyumba kirimo amatara, kikabamo n'amakaro, bisa nkaho ari icyumba cyagenewe kubikwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, ku muryango hariho icyapa cyerekana y'uko ariho babagira abafite ibibazo bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gupima ibizamini by'abarwayi batandukanye.

Icyumba giteguye neza gisizemo amarangi y'umweru. Iki cyumba ni icyo kwa muganga, uri kubona ko cyagenewe ubuvuzi bw'amaso.

Inyubako nziza cyane, ifite amagorofa abiri, imbere yayo haparitse amamodoka, iyi nyubako ikaba ikoreramo farumasi yitwa Goodlife itanga imiti itandukanye ivura indwara.

Ikigo nderabuzima cya Kigina gifite igipangu cyiza, hariho amarembo afunguye ndetse haragaragara inyubako mo imbere zitangirwamo serivise z'ubuvuzi.

Umuganga w'umusore, wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari muri Laboratwari ari gupima ibizami yafasha abarwayi ngo amenye indwara barwaye.

Umuforomokazi yicaranye n'abakecuru babiri, umwe yamwambitse agakoresho gapima imiterere y'umutima, undi na we urabona ko arindiriye kugira ngo agerweho.

Inyubako nziza cyane y'ibitaro, iruhande rwayo hari urukarabiro rusange, imbere yayo haparitse imodoka ndetse hari ikibuga kinini ubona ko cyaparikaho imodoka nyinshi ndetse cyakwakira n'abantu benshi.

Icyumba giteguye neza, gisizemo amarange y'umuhondo harimo n'intebe nziza akaba ari icyumba cy'inama.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga. Kirimo ibitanda bibiri bifite amapine, hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo amarido y'umweru. Ku bikuta hariho imashini zifashishwa mu buvuzi.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe kubikwamo imiti, iyi miti ipanze neza mu byiciro bitandukanye, aho harimo udukarito tw'ubururu utw'umweru ndetse n'utw'icyatsi.

Icyumba ubona ko gisa neza, gifite inkuta, gisa neza cyane, harimo n'intebe z'umukara, imbere hari aho umuntu utanga ikiganiro ahagarara. Iki ni icyumba cy'inama.

Iki ni icyumba kinini ubona ko kirimo utubati dukoze mu byuma, utu tubati tukaba tubitsemo amaraso y'ubwoko bugiye butandukanye aba yaratanzwe n'abakoranabushake batanga amaraso, kugira ngo azafashe abantu babuze amaraso.

Inyubako ubonako yubatse bigezweho. Ikaba ari inyubako y'ibitaro bya Nyarugenge izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye.

Icyumba kiza cyane gisizemo amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, hasi harimo amakaro ndetse harimo intebe nziza cyane zegamirwa.

Icyumba cyiza cyo kwa muganga, gisizemo amarange y'umweru ndetse n'umuhondo, harimo igitanda kimwe ubona ko cyageneye kubyarizwaho, kiriho utuntu tubiri, umubyeyi ashyiraho amaguru, kugira ngo babone uko bakurura umwana.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo amarangi y'umweru, kirimo igitanda gifite amapine. Iruhande rw'igitanda, hari imashini yifashishwa mu gupima indwara. Hirya hari indi mashini yifashishwa mu kwirukankaho.

Gutanga amaraso ni ingenzi, kuko ubu uri gufasha abarwayi bagize ibibazo byo kubura amaraso ndetse kandi uba uri no kubaka igihugu.

Icyumba kinini gisa naho ari kwa muganga hicaye abantu benshi kandi bose bambaye udupfukamunwa, bisa n'aho bategereje serivisi.

Icyumba gisa neza kirimo intebe n'ameza atatu. Imeza y'umukara, iy'umweru ndetse n'indi isa kaki.

Inyubako yo kwa muganga, imbere hahagaze umugabo uri gutanga inama wambaye ikositimu ari kubwira abantu batandukanye hari nk'abakecuru ndetse n'abasaza.

Aha ngaha haragaragara inzira ndende, yerekeza mu kigo nderabuzima cyubatse, imbere yaho hari abantu batatu ubona ko bagiye gusaba serivisi z'ubuvuzi, bari kugenda begera kuri iki kigo nderabuzima.

Aha ngaha ni mu ihema, aho harimo abaganga babiri ndetse n'abarwayi babiri bambaye udupfukamunwa, umwe aryamye ku gitanda k'imbere, undi aryamye inyuma, bambaye udupfukamunwa biragaragara ko bari kwirinda Coronavirus.

Icyumba cyo kwa muganga ubona ko cyagenewe abarwayi, harimo ibitanda ndetse n'insakazamashusho, bigaragara ko abarwayi bazakirwariramo bazaba bameze neza,.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe nyinshi zicayeho abantu imbere ya buri muntu hari umuganga uri kumutera urushinge rw'urukingo, hano turabona umusore nawe wamanuye ishati bari kumutera urukingo.

Iyi ngiyi ni inyubako nziza cyane y'ibitaro imbere yayo hari ubusitani buririmo utuyira tw'abanyamaguru dusa neza ndetse hari n'inzira isakaye banyuzamo abarwayi, inyuma yayo hari indi nyubako nayo y'igorofa yubakishije amatafari ahiye.

Mu cyumba kwa muganga harimo umwana mutoya, waje kwikingiza ari kumwe n'umuganga amaze kumutera urushinge.

Inyubako nziza cyane ifite ibirahuri byiza, iyi nyubako bigaragara y'uko ari ibitaro bishinzwe kuvura amaso.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda, kikaba gisizeho amarangi y'umuhondo, hakaba harimo n'abarwayi babiri ubona y'uko barembye.

Icyumba cyabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyo kwirukankiraho ndetse n'amagare.

Inyubako yikigo nderabuzima, ifite amagorofa abiri, imwe hasi iridi hejuru, haparitse imodoka ndetse n'abaturage baje gusaba serivisi zijyanye no kwivuza.

Abaganga babiri b'abagabo bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'amasarubeti y'umweru, bahagaze mu cyumba cyo kwa muganga, bari imbere y'icyuma gifunguye, ubona ko hari ibyo barimo baragikoramo.

Ahangaha haragaragara igiti cy'inganzamarumbo kinini gifite amashami menshi, imbere yacyo hubatse ibikuta bibiri, hicayeho n'umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Uyu ni umuforomokazi, ari mu cyumba bavuriramo abarwayi, ari gutunganya serumu y'umurwayi.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe, gifite ubushobozi bwo kwakira abaturage barenga igihumbi ku munsi ndetse kivura indwara nyinshi.

Ahangaha hari abaforomokazi bambaye impuzankano z'ubururu kandi bose bambaye udupfukamunwa, bahagaze imbere y'inyubako y'ivuriro bita Legacy Clinic.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo amarangi y'mweru ndetse n'ubururu hasi hari amakaro meza cyane, iki cyumba cyagenewe kwakira abarwayi.

Icyumba cy'abarwayi kirimo ibitanda byinshi hagati ya buri gitanda n'ikindi harimo irido y'ubururu ndetse kuri buri buriri hariho inzitiramibu.

Mu buryo bwo kwita ku barwayi neza, hano hari icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bisashe neza, buri hagati ya buri gitanda harimo amarido y'umweru meza ndetse hari n'ibyuma byifashishwa kuvura abantu.

Umukobwa ubona ko yambaye impuzankano y'abaganga yo mu ibara ry'ubururu, ari gutera intambwe ajya imbere ahari abandi baganga ndetse bari kuganira, bambaye udupfukamunwa.

Aha ngaha, ni ku Kigo Nderabuzima cya Gishweru. Gifiteye inyubako nziza yubakishijwe amatafari, imbere yayo hahagaze abantu batatu, harimo umubyeyi wambaye umupira w'umutuku, umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'undi musore wambaye ingofero y'umutuku.

Abafite ubumuga ntibakwiye guhezwa mu mbaga nyamwinshi kuko na bo ni abantu nk'abandi, bakwiye uburenganzira nk'ubw'abandi bose.

Icyumba kigari ubona ko ari kwa muganga kikaba gisa neza cyane hari amatara amurika niho batangira serivisi.

Aha ngaha ni ku nyubako nziza z'ibitaro, imbere yaho haparitse imodoka, ndetse inyuma hateye jaride nziza irimo n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kinini kirimo abaganga bagiye batandukanye, bari kwita ku bantu babana n'ubumuga. Ibigaragara ni uko abantu bari kwitabwaho bose, bamugaye.

Icyumba cyo kwa muganga, giteyemo irangi ry'umweru, hakabamo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, byifashishwa mu gupima indwara.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'ubururu, arikumwe n'umuforomo ubona ko yamusanze iwe, yaje kumuha inama zijyanye n'ubuzima.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga, harimo igitanda kimwe cyagenewe umurwayi, ku bikuta urabona ko hariho utuntu dushimisha abana, bishoboka ko iki cyumba cyagenewe abana.

Aha ngaha ni imbere y'ihema ubona ko riri gukorerwamo ubuvuzi, hari umwana uri gucunga akagare k'abamugaye, harimo umugabo ndetse mu muryango w'iryo hema, harimo umumama ubona ko yiteguye kubakira.

Umukobwa w'umuganga ukiri muto ahagaze hejuru y'akana k'agahinja arikutaho abona ko akishimiye yambaye ga z'umweru ndetse n'ingofero y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, gisa neza cyane ubona ko giteguye. Kikabamo ibyuma byabugenewe mu kuvura indwara, ndetse no kumenya ngo umurwayi arwaye iki.

Hari uburyo butandukanye bwo gukora imyitozo ngororamubiri, abantu bamwe na bamwe bifashisha ibyuma bigiye bitandukanye byo guterura kugira ngo bakomeze imikaya yabo ndetse babashe kwirinda indwara.

Icyumba cyo kwa muganga kirambuye gisizemo irangi ry'umweru. Harimo ibitanda byinshi bifite amapine. Hagati y'igitanda n'ikindi hagiye harimo amarido ya orange.

Aha ngaha ni mu kigo nderabuzima, urabona ko ari ahantu heza cyane harambuye, hari ubusitani ndetse n'inyubako nziza zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ndetse bakita ku barwayi barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Ibitaro by'umuntu ku giti cye, biri mu mujyi wa Kigali, bitanga serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, hakaba hitwa kwa Nyirinkwaya, kandi bavura neza cyane.

Ivuriro ry'umuntu ku giti cye, rikaba rifite amagorofa atatu, hakaba hatangwa serivise nyinshi zigiye zitandukanye, zerekeye ubuzima.

Amarembo makuru yinjira mu bitaro bya Nyanza. Ibi bitaro biherereye mu ntara y'amajyepfo, bikaba bitanga serivisi zitandukanye, zijyanye n'ubuvuzi.

Iki ni icyumba cyo kwa muganga kirimo utubati tugiye dutandukanye kandi kuri buri kabati hagiye hariho robine izajya ivamo amazi kugira ngo abantu bazakifashisha bajye bahora bafite isuku.

Inzu yubatse neza ikomeye kuko yubakishije amabuye ndetse na sima, imbere y'iyi nzu hari abagabo babiri bari gutambuka ubona ko ari abaganga.

Icyumba kirimo ibitanda bigera kuri bine, ubona yuko byagenewe abarwayi, kikaba gisa neza cyane giteguranye isuku.

Ibitaro bya CARAES bishinzwe kuvura abafite indwara zo mu mutwe, ibi bitaro bikaba biherereye mu gace k'aho bita i Ndera.

Inyubako za etaje nyinshi kandi nziza, zikaba zarubakiwe kuzajya zivurirwamo abantu bagiye batandukanye, ndetse zigatangirwamo serivise z'ubuvuzi bwimbitse.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo abarwayi bagiye batandukanye, hagati mu cyumba harimo abakozi bo kwa muganga babiri, bari gukoropa kandi banatunganya icyumba abarwayi baryamyemo.

Aha ngaha ni imbere y'ibitaro yagenewe ababyeyi. Hari abantu benshi bicaye b'abajyanama b'ubuzima ndetse ku ruhande hari abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu, ubona yuko na bo bari kwifotoza.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo kwa muganga gisizemo amabara y'umweru gusa, harimo abaganga benshi bigaragara ko bari gupima ibizamini by'abarwayi ngo babahe ibisubizo, iki cyumba ndetse kiririmo utubati twiza ndetse n'amayetajeri y'umweru.

Abagore babiri, umwe ni umuturage usanzwe, undi ni umuforomokazi. Bateruye agahinja, bigaragara ko uno mugore avuye kwibaruka umwana we.

Ibitaro bya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, bikaba ari ibitaro biri ku rwego ruteye imbere kuko bavura indwara zitandukanye.

Inzu ikorerwamo ubuvuzi, harasa nk'aho ari icyumba kinini kandi kirimo ibitanda abarwayi baryamaho, hagati y'igitanda n'ikindi harimo amarido ya kaki.

Ikibuga kinini kirimo ibyatsi bitoshye, nko hagati hateyemo igiti cy'umwembe, hirya yaho hari amazu menshi y'ivuriro ubona ko ari aya kijyambere.

Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima, imbere y'aho hari jaride nziza cyane, muri iyi jaride hateyemo Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, hirya y'aho hari inyubako z'umweru zifashishwa mu kuvuriramo abantu.

Aha ngaha hari inzu nziza y'ibitaro, yagenewe kuvurirwamo ababyeyi bamaze kubyara, ndetse iyi nzu isize amarangi y'umweru, ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hari igikoresho gifasha mu kuzana umuriro w'izuba.

Icyumba gisizemo irangi ry'umuhondo ubona ko kirimo ibikoresho bya tekinoloji bishinzwe gupima indwara zitandukanye mu barwayi.

Icyumba kiza cyane, gifite ibara ry'umweru, kikabamo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, bikaba bifasha kuvura abarwayi batandukanye.

Kwa muganga hari abaforomokazi babiri, umwe wambaye imyenda y'ubururu undi wambaye itaburiya y'umweru, ari kumwe n'umurwayi ari kumusuzuma indwara zitandukanye.

Mu Rwanda hari kubakwa ibitaro bigiye bitandukanye ariko kandi cyane cyane bakibanda ku nzu ababyeyi babyariramo kuko haba hakeneye isuku ndetse ababyeyi babyara buri gihe.

Abantu benshi cyane bavanzemo abagore, abagabo ndetse n'abasaza, harimo n'umuntu ufite ubumuga, wicaye mu kagare k'abamugaye.

Ni mu nyubako yo kwa muganga, aho bavurira abarwayi, hari ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda ndetse n'imashini zisuzuma abantu indwara zabo.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, irimo icyumba gishinzwe gukorerwamo ubushakashatsi, gifite imiryango ikoresheje ibyuma ndetse hariho n'ibirahure bibonerana cyane, mo imbere harimo intebe ndetse n'ameza, harimo n'insakazamashusho.

Aha ni ku marembo y'ibitaro bya Gisenyi, ibitaro mo imbere harimo abarwayi benshi bagiye batandukanye ndetse ku muhanda hanze y'ibitaro, haparitse umugabo utwaye igare, ahetse umwana ufite indobo mu ntoki.

Inyubako y'ibitaro bigaragara y'uko ari ndende, akaba ari inyubako bavuriramo indwara z'abana kugira ngo bakure bafite ubuzima bwiza.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru kikaba kirimo ibikoresho bishinzwe kongerera abarwayi umwuka mu gihe bawubuze.

Iyi ngiyi ni inyubako yo mu bitaro, aho hariho icyapa gishushanyijeho ijisho ry'umuntu, bisobanura ko iyi nyubako yagenewe kuvurirwamo indwara zijyanye n'amaso.

Iki ngiki ni icyumba cyo kwa muganga gisizemo amarangi y'umweru, ndetse kirimo intebe abarwayi bicaraho barindiriye serivise, hejuru hariho ibipirizo, ndetse ku gikuta hariho igishushanyo cy'ijisho, bigaragara ko izajya yifashishwa mu kuvuriramo indwara z'amaso.

Aha ngaha ni ku kigo nderabuzima, imbere y'inzu y'ababyeyi, hateretse ameza ndetse n'abantu bicaye ku ntebe ubona ko bari gutanga inama ku babyeyi kugira ngo bajye bitwara neza babashe kwita ku bana babo bagire n'imikurire myiza.

Iyi ni inyubako yo kwa muganga, isize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, mu imbere muri iyi nyubako haragaragaramo abantu batatu abaganga babiri ndetse n'undi muntu wambaye imyenda y'ubururu, hanze hahagaze abantu batatu harimo umubyeyi umwe uteruye umwana.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo irangi ry'umweru, ndetse n'ubururu bwererutse hakabamo ibikoresho byifashishwa mu gupima indwara zitandukanye.

Icyumba kiza cyo kwa muganga, kirimo amarido y'ubururu, ku gitanda haryamye umurwayi ndetse iruhande rwe hari amacupa, ashinzwe kongerera abarwayi umwuka.

Inyubako nziza cyane ifite amagorofa abiri, ikaba iriho akapa gato kanditseho makumyabiri, ikaba ari inyubako ya AHF Rwanda.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, kikaba gisizemo irange ry'umweru ndetse harimo n'igitanda, ku ruhande hariho robine bigaragara nk'aho ariho umurwayi akarabira. Ku gikuta hariho udupupe, iki cyumba cyagenewe kurwariramo abana bato.

Inzu nziza y'amagorofa abiri. Ikaba ari inzu yagenewe serivisi z'ubuvuzi. Ikaba yanditseho ko ari Ikigo Nderabuzima cya Kanyinya.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, aryamye mu gitanda kwa muganga, urabona ko ari kwishimira yuko amaze guhabwa ubuvuzi akaba yorohewe.

Icyuma cyo kwa muganga cyitwa sikaneri mu ndimi z'amahanga, kiri mu cyumba gisizemo amarangi y'umweru ndetse hakabamo n'utubati two kubikamo imiti.

Inyubako nziza y'ibitaro yubakishije amatafari y'impunyu, imbere yayo ifiteho akabaraza ndetse hirya hari na jaride, iruhande rwayo hari indi nyubako ifite inzugi z'ubururu n'amadirishya y'ubururu.

Aha ngaha ni mu cyumba cyo kwa muganga, icyumba ubona ko gisa neza, muri iki cyumba harwayemo abarwayi babiri, umwe ubona ko ari umusaza mukuru aryamye ku gitanda kandi urabona ko arembye, hirya ye hari undi nawe wambaye ikabutura aryamye agaramye bigaragara yuko afite icyuma kimwongerera umwuka.

Umuforomokazi ari mu cyumba cy'abarwayi, aho ari kuganiriza umurwayi umwe wicaye ku gitanda, amugira inama ku buzima bwe.

Mu cyumba harimo umuforomokazi wambaye agapfukamunwa, ari gupima umwana uko umutima we utera kugira ngo abone uko amuha ubuvuzi.

Inzu icuruza imiti y'abantu, yitwa Progress Pharmacy, harimo imiti y'ubwoko butandukanye, iri mu tubati ndetse no mu ma etajeri atandukanye.

Mu cyumba cy'ishuri, hari abantu batandukanye, harimo n'umuzungu umwe w'umugore. Imbere, hari umwarimu uri gusobanurira umwana, uburyo bakora isuku mu kanwa.

Umukobwa wicaye kuri sima, ari gukora imyitozo ngororamubiri, afite terefone ku kaboko k'iburyo ndetse imbere ye, hari icupa ry'amazi.

Aha ngaha haragaragara umukobwa ufite imisatsi myinshi, yambaye ipantaro ndetse n'agasengeri, arunamye yikoze munsi y'ikirenge, inyuma ye hari igikuta cy'ubururu. Biragaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Kunywa amazi meza ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri muntu, cyane cyane abantu bakiri bato bagomba kunywa amazi meza kandi menshi kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye, amazi ni bwo buzima.

Ibitaro byo mu Rwanda byose, bigira aho bibika imiti igiye itandukanye, kugira ngo itazangirika, cyangwa se ikagira ikindi kibazo.

Umuntu bigaragara ko ari umukinnyi w'umupira w'amaguru, akaba yicaye ku gatanda ameze nk'uwavunitse.

Aha ngaha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Hari umukinnyi uryamye hasi, bigaragara ko yavunitse. Ari kwitabwaho n'abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore, bambaye amajire y'umutuku ya Croix Rouge.

Umukobwa ubona y'uko agororotse, ahagaze ku kaguru kamwe ,akandi yakazamuye, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha hari inzu ishinzwe gucuruza imiti ndetse igatanga n'inama ku byerekeranye n'imyitozo ngororamubiri n'uburyo wakitwara kugira ngo ugire ubuzima bwiza.

Umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri ndetse agafata indyo yuzuye irimo n'imbuto ndetse akanywa n'amazi menshi ubuzima bwe buba buhagaze neza.

Aha ngaha hari umuntu wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, iruhande rwe hari umuntu w'undi w'umuganga amufashe akaboko ndetse muri ako kaboko harimo igikoresho cyifashishwa mu kurambura imitsi.

Siporo ni umuti uvura indwara nyinshi, hano haragaragara umukobwa uri gukora siporo zo kurambura ingingo ndetse yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umweru.

Umukobwa wicaye mu ntebe ahinnye amaguru, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari amazi, kuko ni ingenzi ku muntu ukora siporo.

Itsinda ry'urubyiruko rugize umuryango wa kuruwa ruje bari kwereka abantu uburyo batabara abantu, mu buryo bugiye butandukanye.

Icyumba gisukuye cyahariwe ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri. Harimo ibyuma bitandukanye, icyo abantu birukankaho ndetse n'igare.

Icyapa kiri kwamamaza, igikoresho gituma umuntu agira inda ikomeye, kikaba kiri kwerekana ko bakigurisha ibihumbi ijana na makumyabiri.

Ahangaha ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru. Haragaragaramo abagabo babiri, umwe araryamye bari kumukanda mu ivi, biragaragara ko ashobora kuba yavunitse. Umuntu uri kumwitaho ni mugenzi we, bambaye imyenda isa.

Aha ngaha ni mu cyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, harimo umugabo uryamye hasi w'umuzungu wiziritse umugozi ku kaguru ndetse uwo mugozi ufashe ku cyuma arimo aragenda azamura, bigaragara ko arimo arakora umwitozo wo gukomeza amaguru.

Mu cyumba harimo umusore uri gukorerwa ubugororangingo, akaba aryamye hasi, yambaye ikabutura ndetse n'amasogisi y'umweru.

Aha ngaha hari umugabo cyangwa se umusore, ubona ko yakoze siporo bihagije, ari kunywa amazi afite icupa mu ntoki ndetse biragaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Aha ngaha haragaragara umukobwa ukiri muto, afite umusatsi muke, yambaye agasengeri ka oranje n'isaha ku kaboko k'ibumoso na ekuteri mu matwi bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri.

Uyu ni umusore cyangwa se umugabo yambaye agapira ka shokora k'amaboko magufi, mu ntoki ze afite icupa ry'amazi ry'umweru rifite umupfundikizo w'ubururu, ari kunywa amazi kandi biragaragara ko avuye muri siporo.

Aha ngaha ni mu cyumba cyabugenewe mu gukoreramo imyitozo ngororamubiri. Haragaragara umusore uhagaze, ateruye icyuma ubona yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri ndetse ari gufata icyuma akizamura kugira ngo akomeze amaboko ye n'agatuza.

Amazi ni ubuzima, kuko Abanyarwanda babivuze ukuri. Impamvu ni uko utanyweye amazi, uba uri kwiyicira ubuzima, kandi unaniyangiza wowe ubwawe.

Umusore ukiri muto, yicaye ahantu ku ipoto, ari kunywa amazi, urabona ko ananiwe kuko yari ari muri siporo.

Umukobwa ndetse n'umusore bicaye ku ntebe baruhukiraho ku muhanda, biragaragara ko bari muri siporo ndetse bafite n'ibikapu imbere yabo.

Umugabo ubona ko yavunitse akaguru, yicaye ku gitanda cyo kwa muganga hari umuforomokazi uri kumwitaho amuzikiraho bande.

Aha ni mu cyumba cyahariwe imyitozo ngororamubiri, aho harimo umusore wambaye isengeri ndetse na ekuteri mu matwi, akaba ari kwigorora yahimye ivi rimwe irindi agiye kurikoza hasi, yambaye inkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umusore bigaragara ko ari muri siporo, akaba yicaye hasi, yambaye isengeri y'umukara, ndetse afite n'agacupa k'amazi mu ntoki ari gusomaho.

Siporo ni ubuzima, uyu ni nI umukobwa, ari gukora siporo ubona ko siporo ari gukora ari kugorora umugongo kugira ngo azasaze adahinamiranye.

Icyumba kinini bigaragara yuko gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo abantu babiri, umugabo ndetse n'umugore, ubona ko bamenyereye ibintu bya siporo.

Umusore wambaye agasengeri k'umutuku kanditseho nimero imbere, bigaragara yuko yari ari mu marushanwa yo kwirukanka, biragaragara ko agize ikibazo, bamukuye mu irushanwa.

Aya ngaya ni amacupa atatu arimo imiti gakondo ivura ububabare, aya macupa ari mu mabara y'ubururu n'umweru, afite imipfundikizo iciyeho uturongo y'umweru ndetse hariho n'ibara ry'umutuku.

Buri muntu wese akwiriye kujya anywa amazi meza asukuye, byibuze litiro ebyiri ku munsi kugira ngo ubuzima bwe bugende neza.

Kugira ngo ugire ubuzima bwiza, ufite kunywa amazi meza byibuze litiro ebyiri za buri munsi, kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza.

Icyuma cyo kwa muganga cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu gupima amagufwa, niba umuntu yavunitse cyangwa se bakareba n'ibindi bibazo biri mu mubiri.

Uyu nguyu ni umugabo wicaye ku ntebe yambaye ikabutura y'umukara, akaba afite akantu k'ubururu mu ntoki yakojeje ku ivi bigaragara ko ashobora kuba yakomeretse cyangwa yavunitse mu gihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri, bakora umuryango ushinzwe gutabara imbabare, croix rouge, bateruye umusore, bigaragara ko yavunitse akaguru, bagiye kumushyira mu modoka y'ambiranse.

Umukobwa uri muri siporo yambaye isengeri ijya gusa ubururu, ari kwigorora ndetse arareba umusozi uri hakurya.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo umugabo wambaye ingofero irinda umutwe, hakaba n'abandi babiri baje kumufasha, bigaragara ko agize ikibazo.

Amazi meza ni isoko y'ubuzima bwiza, hano hari umusore uri kunywa amazi, bigaragara yuko yari afite inyota kuko avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umukobwa ukiri muto, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umweru, akaba ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye ekuteri mu gutwi ndetse afite na telefone ku kaboko.

Mu rwego rwo kwita ku buzima abaganga batandukanye bagenda bakoresha imiti itandukanye ndetse n'ubuhanga bwabo, bakavura abarwayi ndetse bakabikorana ubwitange kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kumera neza.

Ubundi mu buzima busanzwe biba byiza iyo ukoze siporo, hanyuma ukarenzaho indyo yuzuye, harimo n'imbuto ndetse n'ibiryo birimo intungamubiri.

Aha ngaha hari umukobwa muto, yicaye kuri tapi y'ubururu yashyize kuri sima, ari kwigorora, yamanuye umutwe agiye kuwukoza ku mano ahengamiye mu ruhande rw'ibumoso. Yambaye ipantaro y'umweru ndetse n'agasengeri k'umweru.

Igishushanyo kiriho urukweto bambara bakina umupira w'amaguru, hakabaho agakoresho abaganga bifashisha bapima imiterere y'umutima ndetse n'umupira w'amaguru.

Inama zitandukanye zagiriwe umuntu wese ukora yicaye, cyane cyane abakora akazi ko mu biro, kabasaba guhora bicaye imbere y'imashini.

Mu rwego rwo kwirinda kuzana amabavu, iyo umuntu agiye muri siporo zo guterura ibyuma, hari ga zabugenewe yambara, kugirango arinde ibiganza bye.

Umugabo ubona ko afite umubiri ukomeye, yambaye ekuteri mu matwi ndetse agiye gupfukama ku ivi, ubona ko ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Aha ngaha hari umugabo w'umuzungu ufite agatambaro mu ntoki, ubona yuko ari kwikanda mu ivi ahantu ashobora kuba yavunitse, bikaba bigaragara yuko yari ari mu myitozo ngororamubiri akaza guhura n'ikibazo cy'imvune.

Gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu. Hano hari umukobwa bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, hasi ahagaze kuri tapi ndetse yazamuye amaboko hejuru, yahinnye n'umugongo bigaragara ko ari kwirambura.

Ahangaha haragaragara imipira y'amoko atandukanye ikoreshwa mu mikino itandukanye, harimo umupira w'amaguru, harimo akadenesi, harimo umupira wa basket, ndetse hari n'igikoresho cyifashishwa mu gupima uko umutima utera.

Igikoresho bifashisha mu gutwara umurwayi aho gitwarwa n'abantu babiri umwe agafata inyuma undi agafata imbere, kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara.

Inkweto nziza izamuye ubona ko ikomeye, ifite ibara ry'umukara ndetse imeze nkaho ari inkweto ya gisirikare ikaba yitwa Bato.

Aha ngaha ni mu nyubako yo kwa muganga, hari abarwayi babiri baryamye ku dutanda: umwe ni umukobwa, undi ni umugabo. Umugabo hari abandi bagabo babiri bamuhagaze hejuru, ubona ko bari kumukorera ubugorozi bw'ingingo.

Aha ngaha haragaragara ukuboko k'umukara gufashe ijage ikoze mu kirahure, iri gusuka amazi mu kirahure giteretse ku meza, ubundi amazi meza ni ubuzima umuntu wayankweye bihagije kandi agakora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ubona ko yateruye ibyuma, yambaye isengeri y'icyatsi, ari kwimenaho amazi mu maso, urabona ko avuye muri siporo.

Umukobwa w'umuzungu, akaba yegamye ku mugabo we, bose bari kunywa amazi, bigaragara ko bananiwe kandi bavuye muri siporo.

Aha ngaha ni kwa muganga, hari umuntu uryamye ku gitanda kiriho matora y'ubururu, yambaye urukweto mu kaguru kamwe akandi bari kugashyiraho bande, bigaragara y'uko kagize ikibazo cyangwa kavunitse.

Ahangaha hari ibishushanyo bigera kuri bine byerekana uburyo ushobora gushyira igipfuko cyangwa se bande ku muntu wavunitse cyangwa wagize ikibazo ku kaboko. Ibi byafasha umuntu gufata iya mbere mu kwita ku murwayi nubwo ataba ari muganga.

Umukobwa uvuye muri siporo, akaba ari kunywa amazi, yambaye ekuteri mu matwi ndetse afite na terefoni ku kuboko kwe kw'iburyo.

Umukobwa w'umuzungu ufite imisatsi miremire, akaba ari kunywa amazi. Yambaye isengeri y'ubururu ndetse ukaba ubona ko avuye muri siporo.

Umukobwa ubona ko ari muri siporo yarambuye amaboko ndetse ari gukora siporo, igira uruhare mu kurambura amaguru n'umugongo neza.

Icyuma cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gupima indwara zigiye zitandukanye, cyane cyane cyita mu kureba mu mubiri mo imbere.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, akaba afite icupa ry'ubururu mu ntoki ari kunywa amazi, bigaragara ko avuye muri siporo.

Umuntu aramutse ariye indyo yuzuye akarya n'imbuto, agakora na siporo byakongera imibereho ye myiza n'ubuzima buzira umuze.

Igikapu cy'umutuku ndetse n'umukara, hasi gifiteho akabara k'umweru gatambitse, kikaba ari igikapu cyo gutwarwamo imiti ndetse n'ibikoresho byo kwa muganga.

Umugabo ubona yuko afite agatuza kanini, akaba ari mu nzu yo gukoreramo siporo, akaba ateruye ibyuma bibiri, mu maboko.

Umukobwa ukiri muto bigaragara ko ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba afite telefone ku kuboko kw'ibumoso ndetse akaba afite n'isaha ukundi kuboko.

Hano hari umusore wambaye isengeri ya shokora, akaba afite agacupa k'amazi ari kunywa amazi, afite umusatsi muke ndetse urabona ko avuye muri siporo.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, harimo nk'ibinini bigabanya ububabare, bande ndetse hakabamo n'amavuta ya pomade.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse akaba afite amazi ari kuyanywa, bigaragara ko avuye muri siporo.

Aha ngaha hari umukobwa bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri, afite isume ku rutugu ndetse afite n'icupa ry'amazi riri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ari kunywa amazi ayafatishije ukuboko kwe kw'iburyo.

Umukobwa ubona ko yari asanzwe abyibushye akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agabanye ibiro.

Umukobwa wicaye bigaragara ko yavunitse mu ivi, bamaze kumushyiraho bande ndetse n'igipfuko kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umusore wambaye umupira w'umweru n'isaha ku kaboko k'iburyo, akaba ari kunywa amazi bigaragara ko avuye muri siporo.

Kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze, ufite gukora siporo, ukarya imbuto, ndetse ukarya n'ibiryo birimo intungamubiri zihagije.

Imbago ni igikoresho umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika akaguru yifashisha kugira ngo abashe kongera kugenda, agire aho agera.

Ibikoresho byo kwa muganga bitandukanye, harimo imikasi, ibipfuko, udupfukamunwa ndetse n'agasanduku kabikwamo ibikoresho byo kwitabara.

Uyu ni umugabo uteruye icyuma, bigaragara ko ari gukora siporo. Imbere ye hari ibiryo bigiye bitandukanye, nk'amagi, ibishyimbo, amazi, inanasi ndetse n'ibindi.

Abakinnyi bakina umukino wa Basketball, bakaba bakikijwe n'abaturage benshi baje kureba ikipe iri butsinde.

Umusore cyangwa se umugabo, ufite ubwanwa ndetse ubona ko yateruye ibyuma, afite isume ku rutugu, ari gusoma ku mazi.

Ahangaha ni mucyumba gikorerwamo masaje harimo umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati yu'ubururu ari gukorera umugabo masaje yamuryamishije ku gitanda aho yahereye ku mugongo.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, akaba yifashe ku kaboko yishyizeho agatambaro bigaragara yuko ari kubabara bikabije.

Kunywa amazi, ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Kuko uretse kuba amara inyota, arinda ubuzima bwawe kwangirika, ndetse agatuma uhora umeze neza.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, yamanuye amaboko arunama agiye kuyakoza ku birenge, yambaye ipantaro y'ubururu ndetse n'agasengeri k'ubururu.

Abaganga benshi bambaye udupfukamunwa, bicaye mu cyumba cy'inama bakaba bari gukorera inama kuri murandasi.

Aha ni mu cyumba cyo kwa muganga, hari umugabo wicaye ku gitanda wambaye urukweto mu kaguru k'ibumoso, ak'iburyo bari kugashyiraho ibipfuko bisa n'aho yavunitse cyangwa yakomeretse ari muri siporo.

Aha ngaha ni mu cyumba bakoreramo masage kugira ngo bagorore imitsi igiye itandukanye harimo umuntu uryamye ku gitanda munsi y'akaguru ke harimo isume y'umweru izinze bari kumukozaho igikoresho kirambura imitsi.

Aha ngaha hari umukobwa bigaragara ko akiri muto, afite isume y'umukara ku rutugu rwe, yambaye agasengeri k'umweru ndetse afite amazi ari kunywa, bigaragara ko avuye muri siporo kuko yabize ibyuya.

Ibi ngibi ni ibikoresho byo kwa muganga byifashishwa mu butabazi bw'ibanze, harimo igipfuko, udupfukamunwa hakabamo, ga, hakabamo igipima umuriro, hakabamo ibinini ndetse n'inshinge hamwe n'itoroshi.

Aha ngaha ni mu cyumba. Iki cyumba gisizemo irangi ry'umweru ndetse gifite n'ibirahuri byiza by'umweru. Harimo umugore uryamye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yazamuye akaguru kamwe hejuru.

Uyu nguyu ni umusore cyangwa se umugabo ubona ko akora imyitozo ngororamubiri, yambaye umupira w'icyatsi uriho akapa k'umweru ku gatuza, ndetse afite n'umupira mu ntoki wanditseho umubare kane.

Ikimera k'igikarubamba, ni kimwe mu bimera by'ingirakamaro kuko gikorwamo ibintu bigiye bitandukanye bigirira uruhu akamaro, nk'isabune ndetse n'amavuta.

Iyi ni imiti gakondo ivura ububabare bwo mu ngingo zigiye zitandukanye. Twavuga nko ku ijosi, mu nkokora, mu mugongo, mu mavi ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Igikakarubamba ni igihingwa gifite akamaro cyane. Kuko gishobora gukorwamo imiti itandukanye nka korogati ndetse n'imiti ivura imitsi.

Ibyatsi birebire, bifite amababi meza, biteye ahantu hazitiye, ukaba ubona ko byavamo imiti gakondo yakifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Mu buvuzi buteye imbere ntihakifashishwa imiti y'amazi gusa, ahubwo hasigaye hari n'imiti y'ibinini bigiye bitandukanye kandi bivura neza.

Mu bijyanye no gutegura imiti gakondo, ni ngombwa ko ubanza kuyisekura ndetse ukayikorera isuku, ukagenda utunganya umwe ku wundi kugira ngo uze kubona uko uyivanga ibe yavura indwara zitandukanye.

Iki ngiki, ni icyumba kirimo imiti gakondo igihe itandukanye, hashashe umusambi uteretseho iyo miti gakondo igiye ivangavanze, kuri kano gasambi hariho agasekuru ka kizungu ndetse n'umuhini wako, bigaragara ko bagiye gutunganya iyi miti.

Aha ngaha hari icyumba kinini, kirimo imiti gakondo igiye itandukanye iri mu ma etageri, hirya hari firigo y'umweru, ndetse harimo n'umuforomokazi, wambaye itaburiya y'umweru, ufite n'imisatsi y'umukara.

Imiti gakondo igiye itandukanye, ifunze mu macupa atandukanye, irimo ikoze mu gikakarubamba, iri mu icupa ry'icyatsi ndetse n'umweru, hakabamo n'indi iri mu icupa ry'umuhondo.

Tangawizi nayo iri mu mite gakondo y'ingirakamaro mu buzima bwa muntu kuko ivura indwara zitandukanye zirimo nk'inkorora ndetse na anjine.

Aha ngaha hari abagabo benshi, bambaye imipira y'icyatsi, harimo n'undi umwe wambaye kositimu, bakaba bahagaze mu murima uhinzemo ibikakarubamba, bifashisha mu miti gakondo.

Imiti igiye itandukanye ikoze mu gikakarubamba, iki kimera gikunze kugaragara ahantu henshi mu gihugu cy'u Rwanda.

Uyu ni umuti gakondo, witwa Reishi. Uyu muti, niwo muti, ushobora guhangana na amibe, ku kigero cyo hejuru.

Imiti gakondo isigaye itunganywa ku buryo bwiza cyane, iyi ni imiti gakondo ifunze mu macupa atandukanye afite isuku kandi ubona ko kuyicuruza ntacyo bitwaye kuko iramira benshi.

Aha haragaragara umurima wa kijyambere uhinzemo imiti gakondo ikaba iteye mu mavase agiye atandukanye, aho bazayifashisha mu kuvura indwara zitandukanye za muntu.

Uyu ni umuti gakondo ufasha mu gusukura ubwonko ndetse ugafasha ubwonko kuba maso bugakora neza ndetse bukaba buri ku murongo.

Mu buhinzi ndetse n'ubworozi, guhingisha imashini ni kimwe mu bintu byongera umusaruro, ukaba wagera ku kigero gishimishije ndetse ugaha inyungu ubikora.

Aha ngaha hari imiti gakondo igiye ifunze mu buryo butandukanye. Imwe ifunze mu macupa, iyindi ikaba ifunze mu mashashi yabugenewe, ubona ko afite isuku. Ufunze neza ni igikakarubamba, ubona ko gifunze mu buryo bwiyubashye.

Umuti uri mu gacupa gasa umutuku ndetse n'umweru, bigaragara ko uvura kurangiza vuba ndetse no gucika intege.

Mu Rwanda tugira ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi gakondo twavuga nk'umuravumba, igicuncu n'umubirizi.

Imiti gakondo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu kuko hari indwara nyinshi ujya kwivuza bigakenera y'uko ukoresha imiti gakondo.

Iyi ngiyi ni imiti gakondo ipfunyitse mu makarito meza ndetse ubona ko afite isuku, iyi miti ivura indwara zigiye zitandukanye. Aya makarito arasa umutuku ndetse n'umweru.

Imiti y'ibyatsi igiye itandukanye iri ku gasahane, hakabaho n'agasekuru ndetse n'umuhini byifashishwa mu gusekura iyi miti kugira ngo ikoreshwe.

Ibinini ubona ko bipfunyitse neza, inyuma yabyo hari ikarito yanditseho Alliane Rwanda ndetse ikaba isa umweru n'icyatsi.

Iri ni icupa ririmo umuti gakondo. Ni uruvangavange rw'ibimera bitandukanye ariko bivura cyane. Iri cupa riri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Udukarito tugiye dutandukanye dusizeho irangi ry'umutuku n'umweru hakaba harimo amavuta abakobwa bisiga ku munwa.

Tubungabunge ibiti ndetse n'amashyamba. Cyane cyane ko Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo gutema kimwe ugahita utera bibiri.

Umuravumba ni ikimera gikunda kwimeza ahantu henshi ndetse umuntu wese yagishatse ntiyakibura kandi kivura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'ibicurane ndetse n'inkorora.

Uyu ni umuturage w'umumama bigaragara ko ari gusoroma imiti gakondo, byanze bikunze afite indwara ashaka kwivura cyangwa se kuvura abandi.

Agakarito k'umweru n'ubururu, karimo imiti ivura ibintu bigiye bye bitandukanye, gaturuka muri kompanyi ya Alliance Rwanda.

Umuravumba ni umuti ukomeye. Cyane cyane ku bantu bakuriye mu nce z'icyaro, barabizi yuko uyu ari umuti kandi uvura.

Ibimera ntabwo ari ibiribwa gusa, ahubwo bimwe muri byo tubivanamo imiti gakondo ihora idufasha mu kwivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni byiza ko abavumvu bakongera umusaruro w'ubuki kuko bwifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye, bugira n'intungamubiri nyinshi.

Aha ngaha hari icupa riri mu ibara rya oranje ndetse n'umweru, rikaba ririmo umuti uvura kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro ndetse n'ingaruka zo kwikinisha.

Ubuki ni ikintu cy'ingirakamaro cyane mu buzima bwa muntu, kubera y'uko buvura indwara zitandukanye, twavuga nk'ubugendakanwa ndetse n'izindi.

Iyi ni imiti gakondo ikoze mu kimera cy'igikakarubamba, iri mu icupa rya kaki ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hateretse ikirahure kirimwo umuti.

Aha ngaha hari ameza, ateretseho amacupa y'imiti iri mu bwoko bugiye butandukanye, inyuma yayo hari akarido ka oranje, ndetse aya macupa, ari mu mabara atandukanye, umuhondo, umweru, umutuku. Ndetse hari navanzemo ibara ry'ubururu.

Ahangaha haragaragara ikimera gifite indabo z'umutuku ndetse n'umweru, kikaba cyitwa kapusine. Iki kimera kivura indwara nyinshi ziri zitandukanye harimo nk'igifu ndetse n'izindi ndwara nyinshi mu buzima bwa muntu.

Aha ngaha, haragaragara imiti gakondo y'ibibabi bigiye bitandukanye, aho bagiye kuyitegura, iri mu isekuru y'umweru ndetse harimo n'umuhini, imbere yabyo, hateretse uducupa tubiri tw'umuti gakondo.

Iki ngiki ni igihingwa cy'urumogi aho gihinze ubona ko gishishe, leta y'u Rwanda yemereye abantu b'abahinzi batandukanye guhinga igihingwa cy'urumogi, ariko kikifashishwa ndetse kikagendera ku mategeko, aho kivura indwara zigiye zitandukanye kigakorwamo imiti.

Imiti gakondo kuri ubu ntabwo ikimeze nk'iya mbere, kuri ubu imiti gakondo ibanza gucishwa mu nganda, igatunganywa neza kugira ngo izavure abantu idateje ikibazo.

Imiti ikomoka ku bimera, ni ingenzi mu buzima bwa muntu. Hano hari amacupa afunzemo imiti igiye itandukanye, imyinshi ikoze mu gikakarubamba, ikaba ari imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Ahangaha ni mu ishyamba. Haragaragara ibimera bigiye bitandukanye gusa imbere yabyo hari ikimera cy'umubirizi cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'inzoka ndetse n'izindi.

Etageri irimo amacupa atandukanye ay'ibirahure ndetse n'aya parasitike arimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umutobe w'imbuto, ni ikintu cy'ingirakamaro ku buzima bwa muntu kuko uba urimo intungamubiri nyinshi kandi z'ubwoko butandukanye.

Amafoto agiye atandukanye, harimo ibimera, hakabamo amaduka acuruza imiti ndetse hakabamo n'aho bacururiza ibiribwa.

Umugabo wambaye akagofero ko mu idini rya Islam, akaba ari umucuruzi w'imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye, televiziyo Rwanda ikaba yamusuye.

Aha ngaha hari igikarito ubona ko ari kinini kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, kikaba kirimo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, kikaba cyaraturutse muri kompanyi ya Alliance Rwanda.

Aha ngaha hari amacupa aguye atandukanye arimo imiti ikomoka ku bimera, umutwe umwe bigaragara ko ukomoka ku kimera cy'igikakarubamba, iruhande rwawo hari utundi ducupa duteretse tugiye dutandukanye turi mu mabara y'icyatsi n'umweru ndetse hano hari n'ibibabi bisa icyatsi cyerurutse.

Akagera Medecine. Ni ikigo gishinzwe gukwirakwiza imiti ndetse no kuyigurisha abaturage mu gihugu, ahantu hose bakorera.

Agakarito karimo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, gaturuka muri kompanyi ya Aliance Rwanda.

Dusigasire ibimera muri rusange kuko ibyinshi muri byo biba bifitemo imiti ifasha abantu gukira indwara zitandukanye.

Agapaki k'umuti uturuka muri kampani ya alliance global ukaba uvura indwara zigiye zitandukanye harimo n'igifu.

Igihingwa cyitwa umuravumba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora ndetse n'ibicurane.

Icyatsi bita inyabarasanya ni kimwe mu bimera byifashishwa mu kuvura ibisebe ndetse kikifashishwa no ku zindi ndwara zitandukanye.

Ibimera ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa muntu. Bityo rero, dukwiye kubibungabunga kuko bidufitiye akamaro, gakomeye cyane mu buzima bwacu.

Ibimera ni ikintu cy'ingirakamaro mu buzima bwa muntu. Uretse kuba hari ibyo dukuraho ibyo kurya, hari n'ibyo bakoramo imiti igiye itandukanye y'ibinini.

Aha ngaha hari ishusho y'ibimera bibiri, avoka ndetse n'igikarubamba; ibi bimera bibiri bikaba byahujwe, kugira ngo bikorwemo isabune nziza cyane ivura ibiheri ku mubiri.

Aha ngaha hari agacupa gateretse ku meza kari mu mabara y'umweru n'umutuku, aka gacupa karimo amavuta yifashishwa mu bohehereza iminwa, cyane cyane aya mavuta yifashishwa n'abari ndetse n'abategarugori.

Ibimera byinshi byifashishwa nk'imiti uretse kuba tubikuraho ibyo kurya ndetse bikadufasha no kubona umwuka mwiza, nk'igikakarubamba ni kimwe mu bimera bifashisha bakora imiti itandukanye ivura ubuheri cyangwa se ikavura n'indwara zo mu kanwa.

Umusore w'umuganga uri mu cyumba gishinzwe kumenya ibisubizo byavuye mu bizami, cyitwa raboratwari.

Iyi ni imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye nk'ubuheri, kurwara kwishimagura ndetse n'izindi nyinshi.

Imiti gakondo ituruka ku bimera bigiye bitandukanye. Rero ni byiza kubungabunga ibimera byose, kuko ibyinshi muri byo, biba bisigasiye imiti ivura indwara nyinshi, zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo, iba igomba gutegurwa neza, bakayisekura, bakayiyungurura, bakayitunganya neza kugira ngo ijye kuvura indwara zitandukanye, ifite ubuziranenge.

Imiti gakondo ni imwe mu miti ifasha abantu, cyane cyane ku mugabane w'Afurika, aho usanga ivura indwara zitandukanye, imiti y'abazungu itabasha kuvura.

Imiti gakondo ni ingenzi mu buzima bwacu kuko hari indwara zimwe na zimwe zitavurwa n'imiti y'abazungu, bityo rero tugomba kuyibungabunga.

Umuti gakondo uvura indwara zitandukanye, ufunze mu icupa rinini rifite ibara ry'umuhondo ndetse na shokora, hakaba hariho igisiga.

Imiti gakondo igiye ifunze mu ducupa dutandukanye, hasi harimo imiti gakondo ifunze mu ducupa tureture dufite imipfundikize y'umukara, hejuru muri etajeri harimo imiti gakondo ifunze mu ducupa tw'umukara dufite icyapa cy'ubururu.

Abantu benshi bakunda kurya ubuki, bakurikiyemo uburyohe, gusa ubuki ntabwo ari ubwo kuribwa ukurikiyemo uburyohe gusa, ahubwo buvura indwara zigiye zitandukanye.

Aha ngaha haragaragara umugabo w'umuganga ufashe ibiti mu ntoki y'ibinini akaba yicaye ku ntebe, imbere ye hari ameza ari kwerekana imiti ndetse avuga n'icyo igiye ivura.

Uyu ni umuti w'amenyo ukoze mu gikakarubamba. Ufunze neza mu gacupa k'umweru ndetse bongeyemo n'ibindi bituma ukora neza.

Aha ngaha ndabona umuti gakondo, ukoze mu kimera cy'igikakarubamba, ukaba upfunyitse mu gakarito keza cyane, ubona ko gafite umupfundikizo w'umweru, ndetse hasi gafunze neza, ubona ko gafite isuku.

Aha ngaha, hari ibirahuri bibiri biteretse ku meza birimo imiti itandukanye, muri buri muti harimo ibibabi bigaragara ko bagiye kuyikoresha mu kuvura indwara.

Akabati gateretse ahantu muri jaride, karimo amacupa y'imiti gakondo igiye itandukanye, ikaba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Aya ni amacupa afunzemo imiti gakondo y'ubwoko butandukanye, icupa ryo hejuru ni rirerire rirasa ubururu ndetse n'umweru, iryo hasi ryiganjemo ibara ry'umweru, rifite n'umupfundikizo w'ubururu.

Ibyatsi ubona ko biri aho bagiye kubitunganyiriza, kugira ngo bazabyifashishe mu kuvura abantu bagiye batandukanye.

Igitunguru iyo ukivanze n'indimu, bishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye, twavuga inkorora, ibicurane, n'izindi.

Ipapayi ni imwe mu mbuto zifasha mu igogora ry'ibiryo, ndetse zigafasha no kugira intungamubiri zigiye zitandukanye, abantu bakenera mu buzima.

Mu gutegura imiti gakondo, hifashishwa ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo n'isekuru ndetse n'umuhini, kugira ngo babashe kubisya neza, babiyungurure bavanemo ifu, ariyo yifashishwa mu kuvura.

Aha ngaha hari umugabo w'umuforomo, akaba ari gufunga imiti gakondo mu makarito agiye atandukanye, yambaye agapfukamunwa ndetse imbere ye hari imiti myinshi gakondo, iri mu ducupa dusa umukara.